Abantu bane bahagaze iruhande rw'ivomero, ikaba ari robine ipombwa, umwe akaba ari gupompa amazi ameneka hasi, iruhande rw'inzu kandi y'umuhondo, kandi bakaba bambaye imyambaro itandukanye irimo ubururu, umukara, ndetse n'umutuku.

Abamama bateraniye mu cyumba cyo kwa muganga, bafite abana batoya batarengeje imyaka ibiri, bakaba bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hakaba hari uteruye umwana ndetse anafite ifishi y'umwana mu ntoki, uwo mumama akaba yambaye isaha ku kuboko ndetse n'igitambaro cy'amabara y'umuhondo n'ubururu ndetse bisa n'ishati yambaye.

Abantu benshi bizihiwe, baririmba ndetse bakoma n'amashyi, bambaye impuzankano ndetse n'amakarita y'akazi, imbere yabo hakaba hari umusaza wambaye kosime y'umukara, ishati y'umweru, ndetse na rinete.

Umwana w'umuhungu urimo afungura amazi ku kigega, akaba ari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na cumi n'ibiri, akaba kandi yambaye ikabutura n'agashati k'iroze.

Icyapa cy'uruziga cyigizwe n'amabara atandukanye: umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, iruhande rwaho hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, akaba ari amagambo avuga ikigo gishinzwe gutanga amazi mu Rwanda WASAC.

Abaganga batatu, uwo hagati yambaye itaburiya y'umweru, abo ku mpande ze bambaye imyenda y'ubururu, umwe akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara undi ak'ubururu.

Ikoraniro ry'abantu bateraniye hamwe bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro itandukanye yiganjemo umutuku, umuhondo, ubururu n'umweru ndetse bamwe bakaba bafite ibyapa byanditseho amagambo menshi.

Ikoraniro ry'abantu bateraniye hamwe imbere y'inyubako, bakaba biganjemo abagore, bakaba bishimye barimo baseka, hakaba harimo abagabo bu bake kandi harimo abamama bateruye abana bakiri bato.

Umubyeyi uteruye akana gatoya akaba yambaye ibitambaro mu mutwe ndetse imbere ye hakaba hari muganga wambaye itaburiye y'umweru uri gusuzuma ako kanana, iruhande rwabo hakaba hari ameza ariho impapuro nyinshi.

Abantu bicaye bakikije ameza, bari barimo bafata ifunguro rya mu gitondo, abantu barimo abagabo bambaye amashati y'imyeru ndetse na karuvati ndetse hakaba harimo n'abambaye amakoti y'imikara ndetse n'amarinete.

Abana batoya bambaye impuzankano, bakaba bicaye bakoze uruziga ndetse hakaba harimo n'ababyeyi, bakaba bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye imipira y'ubururu abandi umuhondo, imbere yabo hakaba hari abagabo bari kubahugura, bambaye amakositimu y'imikara ndetse n'ishati z'imyeru.

Icyumba k'inyubako yo kwa muganga kirimo igitanda kiryamyeho akana gatoya kari kwitabwaho n'abaganga babiri bambaye impuzankano z'imyeru ndetse nyina wa ako kana akaba yicaye iruhande rwaho.

Abana batoya bateraniye ku ivomero ndetse harimo n'abari mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani na cumi n'itanu n'abandi bari munsi ya cumi n'ibiri, hakaba harimo abari kuvoma undi apompa.

Icyapa cy'ubururu kiriho uruziga rw'umweru ruriho ifoto y'umumama wasutse imisatsi igera ku bikanu akaba yambaye agapira k'ikigina ndetse kuri icyo cyapa hakaba hananditseho amagambo menshi ari mu ibara ry'umweru.

Abamama n'abakobwa bateraniye hamwe bamwe bari guseka, bambaye imyambaro itandukanye bamwe bambaye iy'bururu, umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abamama bari ku ivomero barimo bavoma amazi bari kumwe n'utwana dutoya tw'incuke, bakaba bagira ngo bage gukora amasuku, bakaba bambaye imyambaro itandukanye harimo abambaye ibitambaro by'imyeru ndetse n'abatabyambaye.

Abantu bateraniye hamwe bicaye abandi bahagaze inyuma yabo bigaragara ko bari kwifotoza kandi hakaba harimo abagabo n'abagore ndetse bambaye imyambaro y'amabara menshi atandukanye, higanjemo umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Abana babiri umwe wishimye, uwishimye arimo arakarabywa na mugenzi we amusukirara amazi, uwishimye akaba yambaye umupira w'umuhondo uhinnye amaboko, mu gihe uri kumukarabya yambaye agashati gatukura.

Abantu bicaye bakikije ameza bigaragara ko bari muri sale y'inama, aho buri wese afite ikayi yo kwandikamo ndetse n'ikaramu, imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi ndetse na telefone.

Abantu benshi bari mu muryango w'inyubako ndetse n'abateraniye mu bidari n'imbere yabyo, bambaye imyambaro y'amabara yose atandukanye, harimo n'abakozi ba leta, iruhande rwabo hakaba hari igiti kiriho idarapo ry'igihugu.

Umugabo n'umugore bicaranye, umwe afashe undi ku rutugu, bakaba bambaye imyambaro itandukanye ndetse bari imbere ya muganga, wambaye itaburiye y'ubururu, akaba afite n'igitabo mu ntoki.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bambaye imyenda itandukanye, bigaragara ko bamwe bakora kwa muganga, mo hagati hakaba harimo abagabo bambaye amakositimu y'amabara atandukanye ndetse bafite n'amatelefoni mu ntoki.

Abantu bateraniye imbere y'ikigega cy'amazi cy'umukara ndetse bakaba bari kunywesha amazi ibikombe bigaragara ko ari abanyeshuri, bakaba banambaye impuzankano, ndetse bamwe bakaba bari guhita babyoza kuri robine y'ikigega.

Umwana mutoya w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri, urimo kuvoma mu kiyaga atsindagiramo injirekani kugira ngo amazi abashe kujyamo.

Ikoraniro ry'ababyeyi bateraniye ahantu hamwe bafite abana, bigaragara ko baje kubahesha imiti. Muganga akaba ari gusuzuma abana ndetse hakaba hagaragara n'imiti iri iruhande rwa muganga.

Umwana mutoya w'umuhungu urimo uvoma ndetse hakaba hari uwundi umufunguriye amazi kuri robine, iruhande rwa robine hakaba hari abandi bana benshi, biganjemo abambaye impuzankano z'ishuri.

Abantu benshi batandukanye bateraniye hamwe barimo abakuru ndetse n'abatoya, abagabo, n'abagore, bakaba bari guhabwa impapuro n'umumama wambaye umupira w'ubururu, n'agakote k'umukara kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, kandi akaba anambaye rinete.

Abamama bateraniye imbere y'inyubako bakaba bahagaze ku murongo bifotoza, ndetse bakaba bambaye imyambaro itandukanye higanjemo ibitenge by'amabara menshi harimo ubururu, umweru urimo andi mabara ndetse n'umuhondo.

Umwana uri mu gishanga, akaba afite udukombe tubiri tw'amazi, akaba yishimye ndetse yambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, bikaba bigaragara ko ayo mazi ayadashye mu gishanga, hakurya ye hakaba hari abandi bana bane bari kumureba.

Umumama wishimye uhagaze imbere y'inzu ye mu muryango akoresha kandagira ukarabe arimo gukaraba, akaba yambaye ingofero mu mutwe ndetse yambaye n'agashati n'igitenge.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, barimo abagabo n'abagore ndetse hakaba harimo n'abazungu. Imbere yabo hakaba hari abantu babiri bari gutanga ikiganiro kuri virusi ya mabag ,ndetse umwemereye hakaba hari mudasobwa.

Abana batoya bateraniye mu nyubako bakaba bicaye bakoze uruziga ndetse bakaba bambaye impuzankano y'ubururu yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru hakaba higanjemo abamama ndetse inyuma yabo hakaba hari imeza hateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bateraniye hamwe bagera kuri bane ndetse bamwe bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'umuhondo, imbere hakaba hari umugabo uteruye akana gatoya, yagateretse ku munzani, kambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu n'udusogisi.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi n'andi makeya yanditse mu ibara ry'umuhondo, kandi kikaba kiriho imibare igaragaza kuzamuka k'ubukungu ndetse no kugabanuka k'ubushomeri.

Abantu bateraniye imbere y'inyubako y'ubururu yanditseho ijambo girabu ubuzima, ikaba isakaje amabati y'umweru iriho tandarive y'umuhondo bambaye imyambaro itandukanye biganjemo abambaye imyeru ndetse n'umutuku bakaba kandi barimo abagabo n'abagore.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inyubako biganjemo abagabo n'abagore ndetse hagati yabo hakaba hari ameza bakaba bayakikije, hakaba harimo abambaye impuzankano bigaragara ko ari abaganga ndetse n'abandi bambaye amakositime inyuma yabo hakaba hari umuntu wambaye ikositime uri kubafotora.

Abamama bateraniye kwa muganga bamwe bahetse abana, abandi bigaragara ko batwite bakuriwe bari kumwe n'abaganga bari kubitaho babazaza amakuru bayandika mu bitabo.

Abana bane bari ku ivomero bambaye imyambaro itandukanye ndetse umwe akaba ari gupompa amazi ameneka iruhande rw'injerekani, abandi bahagaze iruhande rwe bamurebera.

Inyubako zisakaje amabati atukura, zikaba ziriho amarangi y'imyeru, ndetse zikaba zubaki n'uruzitiro rukomeye, impande hakaba hari ikibuga kinini ndetse n'ubusitani.

Umwana wishimye, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu, uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri, akaba ari gufungura robine yo ku kadobo k'umweru gateretse ku gatebe, ikaba ifite umufuniko w'ubururu ndetse n'umukondo w'ubururu.

Abantu bateraniye hamwe, mu mahugurwa ku by'ubuzima, harimo urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, bakaba barimo bahabwa amahugurwa, bafite n'ibikoresho bifashisha bandikamo amakuru.

Umwana mutoya w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani na cumi n'itanu uri guseka cyane, akaba ari gukaraba amazi ava ku mureko ndetse imbere ye hari ijerekani ebyiri iy'umuhondo nindi y'ubururu.

Umugabo wambaye rinete ishati y'umweru na karuvati itukura ikote n'ipantaro ndetse na'agakapu bafite mu ntoki k'umukara kanditseho visiti Rwanda hamwe n'umuzungu wambaye agapira k'umweru.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama biganjemo abagabo n'abagore bakaba bambaye imyambaro itandukanye hakaba higanjemo abambaye umweru ndetse bakaba bafite ibikoresho birimo amakaye n'amakaramu bamwe bafite n'amazi yo kunywa.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka umunani n'itanu ndetse hakaba harimo n'abari kuvomesha ritiro, ufite injerekani nini akaba ari akarindwi, bari kuvoma ku mugezi bapomberwa n'umuntu mukuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, hafi y'iryo vomero hakaba haparitse imodoka ndetse hateye n'ibiti bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umumama wambaye ibitenge biborodeye, akaba ateruye akana gato kambaye agapira k'umweru, kakaba kari gusuzumwa na muganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba cy'inyubako ndetse bakaba bambaye imyambaro y'amabara atandukanye yiganjemo umukara umutuku kandi bakaba bambaye inifomu hejuru z'imyeru hakaba harimo abagabo n'abagore.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kikaba kirimo amarangi y'umweru ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, birimo ntebe z'abarwayi z'ubururu ndetse n'utumeza, hakaba kandi harimo na televiziyo.

Guseka uteruye akana k'uruhinja kambaye ingofero y'umweru mu mutwe akaba ari gufungura robine ndetse yateze indobo y'umukara ariyo iri kujyamo amazi ,inyuma ye hakaba hari ishyamba rinini rigaragara.

Ikoraniro ry'abantu bateraniye hamwe b'ingeri zose, bamwe bambaye amakarita y'akazi ndetse abandi ari abana, abamama, abagabo bamwe bari mu kidari, abandi bari imbere mu nzu ndetse bamwe bari hanze.

Umuntu uri kuvoma amazi ku mureko iruhande rwe hicaye akana gatoya kambaye agapira k'umweru na bodaboda z'ubururu akaba yambaye ipantaro y'umukara na bodaboda z'umuhondo n'agapira k'umweru.

Umuntu wazamuye ukuboko kw'iburyo akaba yahinye umupira w'umweru, ndetse muganga wambaye ga afite n'urushinge mu ntoki akaba arimo amukingira.

Abamama batatu bambaye imyambaro itandukanye umwe akaba ari guterura amazi mu kadobo, abandi babiri basa nkaho bari kurwanira inkoni, umwe wambaye i sengeri y'umweru n'undi wambaye agapira k'ubururu karimo ibara ritukura.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, imbere y'amagambo hakaba hari ikirango cy'umweru gishushanyijemo umubyeyi uri kumwe n'akana gato, munsi yaryo hakaba haciyeho umurongo w'umweru, munsi yawo hakaba hari ayandi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abamama babiri bicaye ku ntebe umwe yambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe akaba amwenyura agaragaza amenyo ndetse akaba anambaye n'impeta ku kuboko, undi akaba yambaye agakoti k'umweru n'isaha ku aboko ndetse n'imbere akaba yambayemo agapira k'umukara nawe ukaba ubona ko ari kumwenyura.

Abantu bateraniye hamwe, bakaba biganjemo abagabo n'abagore, ndetse hakaba harimo n'abazungu, bakaba bambaye imyambaro itandukanye, yiganjemo umweru ndetse n'umukara, bakaba bamwe bafite ibikoresho byo kwandikaho, imbere hagati y'abantu babiri, hakaba hari akameza k'umweru, gateretseho uducupa tubiri ndetse n'utundi dukoresho.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bifite ishusho ya sirendere, bikaba biri mu mabara atandukanye: Ubururu ,icyatsi ndetse n’umukara.

Inyubako yo kwa muganga, ikikijwe n'uruzitiro, ikaba iriho amarangi y'ubururu ndetse iruhande rwayo, hakaba hashashe amabuye n'amatafari y'impunyu.

Abantu bateraniye hamwe banezerewe, bambaye imyenda y'inifomu bigaragara ko bamwe ari abaganga abandi bakaba ari abaforomo ndetse hakaba harimo n'undi mugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru ndetse na rinete bikaba bigaragara ko bari kwifotoza.

Umumama uteruye akana gatoya k'uruhinja akabari imbere y'umujyanama w'ubuzima ufite igipimo gipima ubushyuhe ndetse akaba anambaye agapfukamunwa n'ijili, akaba iruhande rwe hari umuntu wambaye ingofero y'umukara mu mutwe ndetse kandi nawe w'umumama.

Umwana mutoya w'umukobwa uri mu kigero k'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itanu, urimo ukaraba akaba yambaye ikanzu irimo utubara dutukura ndetse n'umweru.

Inyubako y'ibitaro iriho amabati y'umuhondo, imbere y'iyo nyubako hakaba hari umuhanda w'umweru ndetse uriho n'amabara y'umukara, iruhande rwawo hakaba hari ubusitani.

Abantu bateraniye imbere y'inyubako yo kwa muganga, bakaba biganjemo abamama bateruye abana batoya ndetse imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye itaburiye y'ubururu, akaba ari we muganga uri kubafasha.

Abantu babiri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na cumi n'ibiri, umwe wambaye agapira gatukura, n'undi wambaye ipantaro n'ishati bisa by'ubururu bari gukaraba amazi aturutse ku mureko w'ikigega.

Umwana mutoya uri imbere y'inyubako akaba ari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na cumi n'ibiri, akaba ari gukarabira mu ibasi y'umuhondo ndetse akaba yambaye agashati gafite utubara dutukura na karuvati, akaba anambaye ijipo itukura.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama biganjemo abagabo n'abagore, hakaba harimo abazungu ndetse n'abirabura ndetse imbere y'abantu bicaye mu nama hakaba hari pano y'abayobozi bayoboye ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu bateraniye hamwe imbere y'inyubako bamwe bafite udukayi mu ntoki ndetse bamwe bambaye imyambaro y'amabara menshi atandukanye, hakaba hari umwe wicaye akaba ari guhabwa ikinini n'umuntu wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara.

Umwana muto w'umukobwa ari mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itanu akaba ari guseka arimo gukaraba amazi yakuye muri robine ipopa akaba kandi yambaye akazibaho k'umweru hafi ye hakaba hari iyindi ndobo y'iryo bara ndetse iyo robine ikaba ikikijwe n'ibiti bitandukanye.

Abantu batatu bicaye ku meza babiri bakaba bari kwandi bakura amakuru muri telefone ,undi umwe wambaye imyambaro y'umweru we akaba atari kwandika imbere n'igitabo gitukura ,bose bakaba abagore ndetse umwe akaba yambaye itaburiya y'ubururu n'igitambaro cy'umweru mu mutwe nyuma yabo hakaba hagaragara ifoto y'umuryango.

Ikigega gifata amazi cyubakiye kikaba kiriho ibyuma bitandukanye ndetse iruhande rwabyo hakaba hari amatara hakaba ndetse hari n'ibiti by'ishyamba.

Inyubako zisakaje amabati y'ubururu , zikaba zometseho amatafari ahiye ndetse imbere yazo hakaba hari abantu benshi batandukanye ,bamwe bambaye bipfutse hose, bakaba bari gukaraba.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi barimo abagabo n'abagore bakaba bicaye bakikije ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye birimo ibyo kwandikaho ndetse n'amazi yo kunywa, hakaba hanariho n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefoni ndetse iki cyumba aba bantu bateraniyemo bakaba bambaye imyambaro y'amabara menshi atandukanye.

Abantu bateraniye hamwe, biganjemo aba mama bateruye abana batoya b'incuke, bakaba bambaye ibitambaro mu mutwe, by'amabara atandukanye, bamwe by'umweru, ubururu, ndetse n'ibitukura, imbere yabo hakaba hari umugabo uri kubagira inama, ndetse n'undi uri iruhande rwe.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu mabara menshi atandukanye, ndetse hakaba hariho n'ibishushanyo bitandukanye, hakaba higanjemo ibara ry'umutuku, ubururu, umukara, ndetse n'umuhondo.

Abantu bahagaze ku murongo bifotoza imbere y'icyapa gishikariza abantu kwirinda irwingira kiri mu ibara ry'ubururu ndetse bakaba barimo abagabo n'abagore haba harimo n'abazungu ndetse bambaye imyambaro itandukanye yiganjemo umweru, umukara, n'ubururu.

Abagabo babiri bari kuramukanya, bambaye amakositime y'imikara ndetse na za karuvate, umwe akaba afite ibitabo mu ntoki.

Abana bateraniye ku ivomo, bambaye imyambaro itandukanye, bamwe bigaragara ko banambaye impuzankano y'ishuri, umwe ari gupompa abandi bavoma.

Abana bagera kuri batandatu barimo; abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano z'ishuri, bari kuvomera kuri robine eshatu babiri babiri robine ndetse bashyira amazi mu ndobo z'imihondo, inyuma yaho hakaba hari imikindo ndetse n'urugo rw'umuturage.

Abantu bateraniye hamwe, bigaragara ko bari kugaburira abana babaha ibyo kunywa n'ibyo kurya, uri kubagaburira umwe akaba yambaye akagofero k'umweru n'agatisheti ndetse n'umupira w'umweru, n'abandi bantu benshi bahagaze inyuma ye, bigaragara ko na bo bafite ibyo kugaburira abana.

Umwana w'umukobwa uri guseka cyane, akaba ari gukarabira kuri kandagira ukarabe ndetse imbere ye hakaba hari ibasi y'icyatsi kibisi n'amazi ari mu ndobo y'ubururu, iri kuri kandagira ukarabe.

Abana babiri bari guseka, bari imbere y'ivomero, umwe akaba afashe indobo ebyiri z'umweru ndetse yafunguye na robine ari kuvoma , undi akaba ari inyuma ye afite indobo mu ntoki, akaba anambaye ishati y'ubururu.

Abantu babiri bari ku ivomero buri wese ari kuvoma n'injerekani ye, ari bo umumama n' umupapa, hejuru yabo hari umugore urimo ubaganiriza wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu batandukanye bateraniye ku ivomero barimo kuvoma, bakaba barimo abasore ndetse n'inkumi, hakaba hari n'umugore uhagaze iruhande rwabo bigaragara ko atwite ndetse bakaba bari kuvomera mu njerekani nyinshi ziganjemo amabara y'imihondo n'umweru.

Abamama bane bicaye imbere y'umupapa, wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'ishati y'umukara, bakaba bari kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse bafite n'ibikoresho bandikamo amakuru.

Umusaza wambaye incwabari akaba ari kwigaragura mu mbuga ndetse akaba afite ibintu bihambiriye ku maboko ye, hakaba hari umuntu wambaye imyambaro y'umweru urimo amwitegereza ndetse n'undi uri mu muryango bikaba bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako akaba ahagaze iruhande rw'indabo yifashe mu biganza, akaba yambaye ishati y'umukara ifite n'ibara ry'umuhondo, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akaba yambaye n'amarinete bigaragara ko asa nk'uri kwifotoza.

Umumama wambaye igitenge mu mutwe ndetse n'amaherena, uri kureba arakaye cyane afite n'iminkanyari myinshi mu maso, bigaragare ko afite ibibazo by'imitekerereze.

Abantu babiri, umwe yicaye yifashe ku matama n'ibiganza byombi, bigaragara ko yihebye cyane afite ibibazo byo mu mutwe, akaba yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, ndetse imbere ye hakaba hari undi muntu uhagaze, bigaragara ko ari kumugira inama.

Umugabo munini wambaye ikosi na karuvati akaba yunamye imbere y'indabo z'amabara atandukanye higanjemo umweru ,umutuku ndetse n'icyatsi kibisi ,akaba agaragara nk'umuntu ufite ibibazo by'imitekerereze imbere ye hakaba hari uwundi muntu.

Abamama bagera kuri bane bambaye imyambaro itandukanye ndetse bafite n'ibikoresho bitandukanye birimo amakaye n'amakaramu, bigaragara ko bari kugisha inama umuntu uri imbere yabo, ushobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, akaba yicaye ku gatebe imbere yabo.

Umupapa wambaye ishati yikigina wicaye yifashe mu gahanga bigaragara ko afite ibibazo byamurenze, imbere ye hakaba hari umumama umufashe ku rutugu amugira inama ndetse akaba arimo amubwira amureba maso ariko undi adashaka kumureba.

Umugabo wicaye yiyumvira wambaye imyenda myinshi ndetse uhetse n'igikapu mu mugongo, akaba yambaye ingofero mu mutwe bigaragara ko yateretse umusatsi mwinshi, akaba arimo yiyumvira bisa nkaho afite ibibazo bijyanye n'imitekerereze.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'andi mabara menshi yiganjemo umuhondo, umutuku, icyatsi kibisi, buri bara rikaba rifite amagambo yanditsemo hakaba hagaragaraho n'abantu bateraniye imbere y'inyubako bari kwifotoza.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bahagaze ku murongo bafata ifoto, bakaba barimo kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse bikaba bisa nkaho barimo bafata ifoto, bakaba bambaye imyambaro itandukanye, imyeru n'imikara ikaba ariyo yiganjemo.

Abantu bateraniye hamwe, bari ku murongo, imbere yabo hari ameza ndetse n'ibikoresho byo kwandikaho, bigaragare ko bari gufata ifoto, bakaba bambaye imyenda y'amabara atandukanye yiganjemo umweru ndetse n'umukara.

Ifoto iriho umuntu wateretse umusatsi wambaye rinete, akaba yambaye n'ishati y'umweru kandi ikaba yanditseho amagambo agaragaza ko ari ikigo cyita ku buzima bwo mu mutwe.

Umumama urimo aseka ndetse ateruye n'umwana uri guseka, amwereka ibintu bitandukanye, akaba yambaye imyenda y'umweru ndetse n'umwana yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru.

Uruziga rukoze nk'irongi rw'imbere hakaba harimo urundi rukoze nk'ijyi zombi zikaba zigizwe n'amabara atandukanye harimo umweru, icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama bakaba biganjemo abagore ndetse bahetse abana bakaba bicaye mu ntebe imbere yabo hari umugabo wambaye agapfukamunwa, isaha ukuboko, uri kubahugura ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse iruhande rwe hakaba hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ateretseho amazi yo kunywa.

Abantu batandukanye bateraniye mu nyubako yo kwa muganga biga ku bijyanye n'imitekerereze bakaba biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari guhugurwa n'umumama uhagaze imbere yabo.

Umugabo wasamye wateretse ibisatsi byinshi cyane ndetse wambaye ibyenda by'inshwabari, byacikaguritse akaba agaragara nk'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ndetse akaba ahagaze mu muhanda rwagati.

Abantu benshi bateraniye hamwe, biganjemo urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani na cumi n'itanu, ndetse n'abandi bari hejuru y'iyo myaka, bambaye imyenda yicwabari bamwe bakaba barikurira bateze ibiganza hejuru, bigaragara ko bafite ibibazo bijyanye n'imitekerereze.

Abantu benshi bateraniye kwa muganga barimo abagabo n'abagore, imbere yabo hakaba hari umumama wasutse imisatsi miremire y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba arimo aganiriza umukobwa wambaye agapira gatukura n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa wishimye uri guseka, wambaye umupira utukura ufunguye imbere, imbere y'umupira akaba yambaye ikanzu y'ubururu, akaba afite umusatsi w'umukara.

Umumama ufite indangururamajwi mu ntoki n'imisatsi miremire, wambaye ishati irimo amabara atandukanye yiganjemo ubururu, umuhondo n'icyatsi ndetse n'umweru, akaba ari kugira inama umupapa wambaye umupira w'umukara ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Icyapa kinini kiri mu ibara ritukura kikaba kiriho amagambo atandukanye . Ndetse kikaba cyanditseho ijambo rigira riti cayida andi adoreseti meto herifu. kikaba kigaragaza ko gifasha abantu ku bijyanye n'imitekerereze . By'umwihariko kikaba cyari mu gihe cya kovid cumi n'icyenda.

Icyapa cy'ibitaro bya carayesi Ndera. Uruhande rwacyo hahagaze umugabo w'uruhu rwera, uhetse igikapu wambaye ishati ya karokaro n'isaha ku kuboko. Ipantaro y'itokoto y'umweru n'inkweto z'ikigina.

Umumama wihebye wicaye imbere y'inzu ye akikiye akana gatoya, iruhande rwe hari akandi kari kurira, akaba yambaye igitambaro mu mutwe cy'umuhondo ndetse imbere ye hari akamironko gatukura gateretse ku rutaro kariho imyaka.

Umumama wateretse imisatsi myinshi cyane, wasamye aseka cyane, akaba ari kwikora mu misatsi ndetse yambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umweru n'akadari mu izosi, bigaragara ko afite ibibazo bijyanye n'imitekerereze.

Umukecuru uri kugaragaza amenyo cyane, akaba yambaye igitenge kirimo amabara atandukanye y'ubururu, umweru umukara ndetse n'umuhondo, bikaba bigaragara ko afite ikibazo cy'imitekerereze, iruhande rwe hakaba hari umuganga wambaye itaburiye y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umupira wa rakositi ugaragaza igice cyo mu mugongo ndetse nikora ukaba ugizwe n'amabara abiri ubururu ndetse n'umweru kandi hakaba hananditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Abantu bagera kuri batandatu bicaye mu muryango w'inzu, hakaba harimo n'akana gatoya cyane ko mu kigero k'imyaka itanu, biganjemo abagabo n'abagore bakaba barimo bagirwa inama ku by'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu uri gukanura cyane, wambaye umupira utukura n'ikabutura, bamwambitse amapingu, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse inyuma ye hahagaze abantu benshi, bambaye imyambaro itandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu barimo abagabo n'abagore bambaye impuzankano z'ubururu, hakaba harimo n'umuntu uri mo hagati wambaye ishati y'umweru, bahagaze ku murongo bifotoza, bakaba bigaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umama uri guseka wasutse imisatsi igwa ku gikanu, akaba yifashe nk'umuntu uri kwifotoza ahagaze ku rugi rw'irangi ry'umuhondo ndetse akaba yambaye ikote ry'ubururu ishati n'jipo bitukura.

Inyubako yo kwa muganga bafashirizamo abantu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ikaba ikinguye ndetse ifite urugi rw'umweru, ikaba iriho amarangi y'ubururu, imbere yaho hateye ibiti by'imikindo.

Umusore uri guseka agaragaza amenyo yake y'urwererane, akaba afite isura y'inzobe mu maso ndetse n'ubwanwa kandi akaba yambaye umupira w'umuhondo, akaba asa nk'uwasinjije bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo ari mu bara ry'icyatsi kibisi hakaba hariho n'ifoto y'umuntu wambaye agapfukamunwa umupira w'umukara ndetse n'igitambaro ndetse hakaba hariho n'andi magambo yanditse mui ibara ry'umukara.

Abamama babiri bicaye ku gatebe ka bugururu, iruhande rwabo harambitse ibiti, umwe akaba arikugira inama undi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe akaba yamufashe ku rutugu. Bombi bakaba bambaye imyambaro y'ubururu ariko uri kugirwa inama akaba yifubitse isharupe itukura ndetse n'umupira w'umweru.

Umuntu ufite ikibazo k'imitekerereze ukiri mutoya, ari mu kigero k'imyaka hagati ya mirongo itatu na makumyabri n'itanu, wasetse cyane akaba afite ubwanwa ndetse n'amenyo akeye kandi yambaye umupira w'umuhondo.

Umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe, wambaye inshwabari, ibyenda byacikaguritse guhera ku nkweto kugera ku musatsi, akaba ahetse n'imfurumba z'ibintu bitandukanye, ndetse ari imbere y'ikinyabiziga, ubona ko ntacyo bimubwiye.

Umugore wunamye yifashe mu bisuko by'umukara, akaba afite intoki zifite inzara zererana, yambaye ishati y'umweru cyane yererana, bigaragara ko ibibazo byamurenze, arimo atekereza cyane.

Umukecuru wicaye ashigisha igikoma, akaba ashaje ndetse aseka wakutse amenyo, akaba iruhande rwe hari inkoko y'umweru, ku rundi ruhande hakaba hari ibikombe bibiri icy'ubururu n'icy'icyatsi kibisi n'umufuniko w'isafuriya.

Abantu bane bicaye baganira ndetse bakaba bambaye imyambaro itandukanye, imbere hakaba hari umu mama watunze urutoki urimo abwira abandi ndetse akaba anambaye umwambaro w'akazi, akaba afite n'agapfukamunwa ku kuboko.

Umugabo urimo guseka cyane n'amenyo akeye y'urwererane, afite ubwanwa akaba yambaye umupira w'umukara ndetse akaba afite uruhu rukeye.

Uyu mugore arimo guseka, muganga akaba arimo asuzuma amenyo ye, uyu mugore afite amaso yererana, imisatsi y'umukara, akaba ari imbere ya muganga urimo kumusuzuma.

Umusore waruhu rukeye wiyogoshesheje mu buryo bwa orodineri, akaba ari guseka agaragaza amenyo akeye ndetse n'amaso, akaba afite ubwanwa ndetse yashyize urudodo mu menyo yo hejuru arufatishije amaboko yombi, hejuru akaba nta kintu yambaye.

Umugabo ukeye mu maso cyane, yasamye kandi ashyira urudodo mu menyo, bigaragara ko arimo ayakorera isuku ndetse yasohoye n'ururimi inyuma.

Abantu babiri umusore n'inkumi, bambaye imipira y'imyeru, umwe akaba yarateretse imisatsi myinshi, bombi bakaba bari kwerekana amenyo, imbere yabo hakaba hari umuganga.

Umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'umweru, agapfukamunwa ku munwa ndetse na rinete ku mutwe na ga mu ntoki, arimo gusuzuma umwana amenyo, wambaye agapira gatukura.

Umu mama uryamye mu cyumba cyo kwa muganga bakurira amenyo akaba yasamye ndetse bamurambuye agatambaro mu gatuza akabari gufashwa n'abaganga babiri umwe wambaye itaburiya y'umweru na gants mu ntoki n'agapfukamunwa ndetse n'undi wambaye itaburiye y'ubururu n'ishati y'umweru bose bakaba ari abagabo.

Umugabo uri guseka cyane, afite mu maso hakeye, ubwanwa ndetse n'amenyo yerana, akaba yashyize mo urudodo rw'umweru, arufatishije amaboko yombi kandi akaba yambaye umupira w'umweru hejuru.

Umugabo wasamye uryamye ku gitanda, wambaye umupira w'umukara, muganga ari kumukura amenyo ndetse akaba yambaye ga n'agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari umuntu umuhereza ibikoresho.

Mudasobwa irimo amashusho atandukanye y'amenyo agaragaza ibice by'amenyo ndetse n'uburwayi buyafata muganga wambaye ga z'ubururu akaba yatunze urutoki ku ryinyo rifite ikibazo.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani na cumi n'itanu, uryamye ku gitanda yasamye. Muganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu, linete ndetse n'itaburiye. Akaba anambaye ga mu ntoki, akaba arimo amusuzuma amenyo.

Umumama ufite imisatsi myinshi igera mu maso ndetse wambaye n'amaherena ku matwi, akaba yakuye uruhu ku menyo maze agashyiramo urudodo rw'umweru afashe n'amaboko yombi, akaba kandi yambaye isengeri y'umweru.

Umuntu uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu ndetse na mirongo ine, akaba yakuye uruhu ku menyo ndetse agashyiramo urudodo rw'umweru n'amaboko ye yombi, ari gukora isuku y'amenyo, akaba yambaye ubusa igice cyo hejuru.

Umugore wishimye uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na makumyabiri n'itanu, akaba ari kumwenyura agaragaza amenyo ndetse akaba hejuru nta kintu yambaye, akaba arimo akoresha intoki ze agaragaza umunwa gusa.

Umudogiteri urimo akura umama amenyo, yambayer inete zimufasha kureba neza ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari kumwe n'umuhereza amuha ibikoresho.

Abaganga babiri b'amenyo, umwe wambaye itaburiya y'ubururu, umugore wasutse imisatsi miremire cyane akaba ari guseka ndetse afite n'urupapuro rwanditseho amagambo menshi rw'umweru akaba ari kumwe n'undi nawe w'umumama ufite urupapuro ari kwandikaho wambaye agakote gatukura.

Umumama uri koza amenyo akaba yambaye igitambaro cy'umweru ndetse n'isengeri, akaba arimo yoza amenyo akoresheje uburoso bwabigenewe, uburoso bw'ubururu ndetse bufite akabara k'umweru akaba abufatishije akaboko k'iburyo.

Abantu bateraniye hamwe b'ingeri zose bakaba bicaye baseka abandi bahagaze, bigaragara ko bari gufata ifoto ndetse bamwe bakaba bambaye amakositime abandi amashati y'imyeru n'imikara.

Abaganga batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, bari kwigisha umwana kubijyanye kwita ku menyo, akaba umwana wambaye ishati y'icyatsi arimo yigishwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere harimo agapira k'umukara ndetse wambaye n'agapfukamunwa.

Abana batoya, bambaye impuzankano, bakaba bari gukora isuku y'amenyo bakoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe wo gukora isuku mu menyo, bakaba bari kubikora bose icyarimwe.

Abantu bambaye imyenda y'icyatsi kibisi bakaba bafitiye ubwoba bwinshi cyane, ndetse umwe wambaye isaha ku kuboko akaba yipfutse mu maso, bigaragara ko bafite ikibazo cy'amenyo bakaba bari gusuzumwa n'abaganga bambaye imyenda y'imyeru, ndetse n'udupfukamunwa.

Umuntu uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu na mirongo itatu, yashyize urudodo mu kanwa ndetse ari kumwe n'umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itanu na we wabigenje gutyo, bakaba bari kugaragaza uburyo bwo kwita ku menyo ndetse bombi bakaba bambaye imipira y'umweru.

Umusore uri mukigero cy'imyaka mirongo itatu n’itanu na mirongo ine, akaba ari guseka ndetse akaba afite amenyo y'urwerane cyane, imbere ye hakaba hari umuganga wambaye taburiye y’umweru, ga z’ubururu, ufite n’urushinge mu ntoki.

Umuganga w'umugabo wambaye rinete z'umweru ndetse akaba afite n'imvi, akaba arimo asuzuma imiti yifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga basuzumiramo amenyo kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo ibitanda by'abarwayi igihe barimo gusuzumwa ndetse n'intebe muganga yicaraho, hakaba harimo amatara amurika n'ibindi byinshi bikoreshwa bari kwita ku barwayi b'amenyo.

Abantu babiri bambaye imyambaro itandukanye barikwita ku mukecuru ugeze mu za bukuru bamuha amafunguro amufasha; umwe wambaye umupira utukura undi w'umugore akaba yambaye umupira w'umweru.

Icyumba kicayemo umusaza n'umukecuru bari muzabukuru, bakaba bafite imvi z'uruyenzi umusaza yambaye agapira k'ubururu, umukecuru umupira utukura, bakaba bari kunywa imiti bayiywesha amazi mu birarahure banasoma amabwiriza ku mpapuro.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo abaganga bita ku bageze mu zabukuru, hakaba hari umusaza uri mu kagare arimo asunikwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Bicaye mu gisambu biganjemo abageze mu za bukuru, hakaba harimo abasaza n'abakecuru ndetse n'abuzukuru ba bo, bakaba bishimye bari guseka, ndetse bakaba banambaye imyambaro y'amabara atandukanye higanjemo umweru, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umusaza afite imvi ugeze mu zabukuru wambaye rinete, akaba yicaye imbere y'ameza afite ikaramu ndetse n'ikayi yandika, akaba yambaye umupira w'umweru.

Abantu benshi bateraniye mu ndabo, bakaba bishimye bari guseka, ndetse bakaba barimo abagabo n'abagore bateye amaboko hejuru, baka bambaye imyambaro itandukanye, ariko ku ruhande imbere ye hakaba hari umuntu w'umugabo wambaye ikanzu y'umweru uri guseka we atazamuye ukuboko.

Inyubako iteraniyemo abantu bageze mu za bukuru barimo abagabo n'abagore, ndetse ku mwanya w'imbere hakaba hari umusaza ugeze mu za bukuru; uri kumwe n'umukecuru bose biteye imikenyero, umusaza akaba yambaye ingofero y'urugara.

Aba mama bambaye imyambaro itandukanye umutuku, ubururu, umweru, bari gusoroma icyayi bishimye bagenda bashyira mu gitebo.

Abantu bateraniye hamwe biganjemo abagabo n'abagore ndetse hakaba harimo n'abageze mu zabukuru, imbere hakaba hari abantu bambaye imyambaro y'ubururu, bafite intebe z'abafite ubumuga ndetse hakaba harimo n'abakecuru bambaye imyambaro itandukanye.

Abaganga babiri bambaye imyambaro itandukanye, barimo guseka cyane kandi bari kumwe n'umuntu ugeze mu za bukuru bashinzwe kwitaho, bakaba bicaye imbere y'ameza hariho ibikoresho bitandukanye birimo ibitabo, ikaramu ndetse bombi bakaba bafite telefoni mu ntoki.

Abaganga bashinzwe kwita ku bageze mu zabukuru, bamwe bambaye impuzankano z'ubururu, abandi bakaba ntazo bambaye, bose bakaba barimo bagenda bagana ku kazi.

Umumama uri kwita ku musaza ugeze mu zabukuru, umusaza wambaye ikanzu y'umukara ndetse bigaragara ko afite imvi. Akaba ari umusaza ukeye, ufite mu maso hameze neza, akaba umumama ari kumwitaho afite imisatsi y'umukara akaba yambaye n'ikanzu y'ubururu.

Umuganga wera wasutse imisatsi wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'ubururu ndetse n'isaha ku kaboko arimo afasha umusaza uri mu za bukuru amwereka ukuntu agendera ku mbago.

Umuntu mukuru w'umumama ufite imisatsi miremire cyane w'uruhu rwera, akaba yambaye umupira w'umweru ndetse n'ishati y'ubururu, akaba ari kwita ku mugabo ukuze urimo useka, wambaye rinete, ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi y'umweru, akaba afite n'isaha, bakaba bafatanye mu biganza bombi baseka.

Umapapa uri gukina n'umwana w'umukobwa, bigaragara ko bishimiye, umwana w'umukobwa akaba afite umupira wo gukina mu ntoki, umupapa bari kumwe akaba yambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umweru, ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Muganga wambaye itabuye y'ubururu, w'umugore akaba ari kwita ku mukecuru ugeze mu zabukuru wicaye imbere y'ameza, afite ikirahure cy'amazi ndetse muganga akaba ari kumuha ibinini.

Abantu babiri bishimye bari guseka, umwe w'umukecuru wambaye agashati karimo'utubara twinshi dutandukanye, akaba yicaye ku kagare k'abafite ubumuga ndetse muganga wambaye ishati n'ipantaro y'ubururu, akaba ari kumusuzuma yamwambitse igipimo gipima umuvuduko ku kuboko kw'iburyo.

Abantu babiri bari guseka umwe akaba ari umugabo uri kwita ku mukecuru ugeze mu za bukuru, umukecuru akaba yamwegetseho umusaya, ndetse umuganga akaba yambaye ikanzu y'ubururu, umukecuru we akaba afite akabando mu ntoki.

Umumama ugeze mu zabukuru, wicaye yambaye igipimo gipima umuvuduko, ku kaboko k'ibumoso akaba yatunzeho urutoki, areba umuvuduko we uko uhagaze.

Umukecuru uri guseka w'imvi z'uruyenzi, ugeze mu zabukuru, akaba arambuye amaboko imbere buri kaboko afashemo akantu k'icyatsi kibisi, ndetse akaba yambaye umupira w'umukara urimo utubara tw'umuhondo, imbere akaba yambariyemo isengeri y'umweru.

Umusaza ukuze cyane uri mu kigero cy'izabukuru ufite imvi nyinshi akaba yambaye rinete aba yifashe kukananwa n'agakaramu bigaragara ko yihebye ndetse anambaye ishati y'umuhondo.

Mu bagize umuryango bari hamwe bose bishimye bari guseka hakaba harimo mukecuru ushaje cyane ufite ndetse n'umusaza ariko hakaba n'umwana mutoya ari kumwe na se na nyina bose bakaba bishimye ndetse bambaye imyambaro itandukanye.

Abantu babiri bari guseka, bari mu cyumba ndetse imbere yabo hakaba hari imboga n'imbuto ku meza, muganga akaba ari guhereza umukecuru ikirahure, ndetse imbere yabo hakaba hari imboga n'imbuto z'amabara atandukanye.

Umumama w'uruhu rwera bigaragara ko akuze, akaba afite imvi ndetse yambaye itaburiya y'umweru, arimo arafata amafunguro y'imbuto zitandukanye.

Umusaza ugeze mu za bukuru, ufite imvi z'uruyenzi mu bwanwa, akaba yambaye agapira karakosite k'umukara, ndetse afite n'kirahuri cy'umweru mu ntoki, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiye y'ubururu.

Abantu bateraniye hamwe biganjemo abagabo n'abagore, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye ndetse umwe uri imbere yabo w'umumama uri guseka cyane, akaba afite akantu mu kaboko k'ibumoso kandi anambaye isengeri y'umweru.

Umumama, uruhu rwera, ufite imisatsi miremire cyane wambaye umwitero w'umweru ndetse n'agapira k'umukara n'ipantaro y'ubururu, urimo yita ku musaza bigaragara ko akuze cyane, wambaye rinete n'ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo menshi mw'ibara ry'umukara ku mutwe wacyo hari ijambo ryanditse mu ibara ry'ubururu ndetse ku nguni ebyiri zinyuranye z'icyo cyapa hakaba hari ibara ry'iroroze n'icyatsi kibisi.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo mu ibara ry'ubururu, ashishikariza abantu gufata ikingo zose za Covid 19 ndetse kikaba kiriho nandi mabara arimo umukara, umuhondo, ndetse n'umutuku. Buri bara rikaba ryanditsemo amagambo atandukanye.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu biganjemo abagore bakaba bambaye imyambaro itandukanye abenshi bambaye umweru n'umukara harimo umuntu umwe wambaye ikanzu y'ubururu ndetse imbere ye hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro ariho ikayi ndetse na mudasobwa ayaho hakaba andi meza hariho n'igitambaro.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo yanditse mu mabara atandukanye, harimo inyuguti ya el m’ ubururu, ndetse n’ b ndetse umuhondo n’ c mu cyatsi kibisi, imbere yayo hakaba hari andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse no munsi y' izi nyuguti.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi, agira inama abantu ku bijyanye n'ubuzima, ndetse kikaba kiriho n'umugabo uri guseka akaba yambaye ishati y'ubururu.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, bari mu mahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, imbere y'abantu bicaye, hakaba hari abari kubahugura kandi bikaba bigaragara ko barimo abagabo n'abagore, ndetse hakaba harimo n'abanyamahanga b'ibyiciro byose.

Abantu bambaye imyambaro itandukanye yiganjemo umweru, umukara ndetse n'umuhondo, hakaba harimo n'abambaye umutuku. Umwe wambaye umupira w'umutuku, undi Ishati y'umweru, akaba ari gupfuka umu mama wagize ikibazo ku kuboko, umu mama ufite imisatsi miremire igera mu mugongo.

Umuganga wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa akaba yafunze ukuboko kw'iburyo mo ingumi, iruhande rwe hakaba hari icyapa cy'ubururu kijimye cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Abakobwa bishimye bari guseka, bakaba bambaye imyambaro itandukanye hafi ya bose bakaba bambaye imipira y'imweruru hejuru. Ariko hasi bambaye amapantaro atandukanye bamwe ari umukara, abandi ubururu ndetse n'umutuku kandi bakaba bambaye n'inkweto zifunguye bose.

Abantu bitabiriye inama harimo n'abana barimo kubabyinira babasusurutsa ndetse ni inama yitabiriwe n'urubyiruko ni rwo rwiganjemo cyane, gusa harimo n'abandi bantu bakuze.

Icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende kikaba kigizwe n'utuzu dutanu buri kazu kanditsemo amagambo yihariye ndetse yanditse mw'i ibara ry'ubururu ndetse muri buri kazu hakaba hagiye hari agafurishi.

Icyapa cy'umweru kiriho imboga n'imbuto by'amoko menshi atandukanye, hakaba higanjemo iz'icyatsi kibisi, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru; kandi kikaba kinanditseho amagambo atukura n'andi y'umukara.

Umugore wicaye mu ntebe w'umujyanama mu by'ubuzima, wishimye yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara ndetse n'ikarita mu ijosi y'akazi, wasutse imisatsi, akaba afite mikorofone, ndetse akaba yambaye na rinete.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ritsindagiye ry'umweru ashishikariza abantu kugira ibyo bitondera mu buzima ndetse kikaba kiriho n'ibindi birango bitandukanye hariho n'ikirango cy'igihugu cy'ubuzima.

Ijambo twirinde ryanditse mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umweru ndetse n'ijambo indwara y'ubushita bw'inkende, mu nyuguti z'icyapa ariko mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa cy'umukara, kiriho amagambo mu ibara ry'iroza yanditse mu muhondo ndetse hakaba n'andi magambo yanditswe mu ibara ry'umweru, kikaba kiri imbere y'inyubako nziza cyane, imbere yayo hari imodoka y'umweru.

Abaminisiti batandatu mu bijyanye n'ubuzima, batatu b'abagabo n'abandi batatu baba mama bakaba bambaye imyambaro itandukanye bamwe bambaye amakositime atandukanye ndetse n'abamama bakaba bambaye imyambaro y'amabara menshi.

Icyapa kiriho abaganga bari gukingira abantu, kikaba gishishikariza abantu gufata inkingo, kikaba cyanditseho amagambo mu mabara atandukanye umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'umukara.

Abantu babiri bambaye imyambaro y'umukara, umugore n'umugabo bafite icyapa mu ntoki cy'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima. Cyanditseho amagambo agira ati: "Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira ndetse inyuma yaho hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda."

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, barimo abagabo n'abagore bakaba bambaye imyambaro itandukanye, kandi hakaba harimo abazungu bakaba bari kwiga ku bijyanye no kugira abantu inama mu byo ubuzima.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'umweru ndetse hakaba hari n'abambaye ubururu, bafite ibyapa mu ntoki iby'umweru biriho amagambo mu ibara ry'umuhondo, yanditse mu nyuguti z'umweru, agira ati twirinde kanseri y'ibere, bakaba barimo bifotoza bizihiwe kandi bishimye.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo menshi yanditse mu mabara atandukanye, hakaba hariho ijambo NESCO riri mu ibara ry'umukara n'ibara ry'ubururu rikaba ryanditsemo amagambo menshi.

Icyapa cy'umweru wijimye, cyanditseho amagambo menshi atandukanye amwe ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umukara. Kiriho abantu babiri bafite utwapu mu ntoki, bambaye imyambaro itandukanye, akaba ari umukobwa n'umuhungu

Icyapa cy'umweru wijimye cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara agira ati covax ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse hakaba hari n'andi magambo mu ibara ry'ubururu ari yo gavi unicef ndetse n'andi menshi.

Abantu bateraniye hamwe, biganjemo abamama ndetse n'abagabo, bakaba bambaye neza, bicaye abandi bahagaze, bigaragara ko bari gufata ifoto. Bambaye amakositime abandi bambaye imyenda myiza ikeye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'umuhondo gishushanyijeho umuntu wishimye akaba yarasutse direde ndetse ari umu mama wambaye ishati irimo amabara atandukanye. ubururu, umukara, n'umuhondo.

Umumama uri imbere ya mikoro, wambaye rinete z'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, aganiriza abantu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inyubako zo kwa muganga zigeretse, zikaba ziriho amarangi y'amabara atandukanye, umweru ndetse n'umuhondo, imbere yazo hakaba hari abantu bambaye imyambaro itandukanye ndetse barimo abagore n'abagabo, harimo n'umuganga.

Inyubako yo kwa muganga irimo amakaro y'amabara atandukanye, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi, ikaba kandi irimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'intebe, ikaba irimo amatara ndetse irimo n'ibikoresho bikurura umwuka.

Inzira ifite ibyerekezo bibiri, icyerekezo kimwe kirimo abagabo babiri n'umugore umwe uri hagati, ikindi cyerekezo kirimo abana barimo kugenda ndetse biragaragara ko ari inyubako yo kwa muganga, ikikijwe n'ubusitani bugiye butandukanye.

Inyubako z'ikigo nderabuzima cya nyarulinzi zikaba zisakaje amabati y'ubururu ndetse ziriho amarangi y'umweru; imbere yazo hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo, wambaye ingofero y'umukara ndetse imbere y'iyi nyubako hakaba hari indabo zitandukanye; ahagana mu muryango kandi hakaba hari abandi bantu benshi.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga; hasi kirimo pudeli y'ubururu ndetse kikaba gifite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo intebe ndetse n'ibyuma bikoreshwa mu kubika imiti; hakaba hanarimo mudasobwa.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye birimo igitanda cy'ubururu cy'abarwayi kirambuyeho igitambaro cy'umweru, iruhande rwacyo hakaba hari mudasobwa nyinshi zitandukanye ndetse inyubako ikaba irimo irangi ry'umweru.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo intebe z'amoko menshi atandukanye, harimo intebe za rwegamirwa z'ubururu ndetse n'iz'icyatsi kibisi n'izindi z'umuhondo, ndetse iyi nyubako ikaba irimo amarange y'umweru ku nkuta n'ay'umuhondo ku nzugi ndetse no kuri parafo.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, ndetse hakaba harimo n'abaganga babiri bambaye amataburiye y'imyeru, ndetse n'udupfukamunwa bakaba bari mu bushakashatsi.

Inyubako yo kwa muganga bigaragarako igeretse, ikaba irimo ibirahure by'umukara ndetse iriho n'amarangi y'umuhondo, imbere yayo hakaba hari akabuga ndetse n'umuhanda ugana muri iyo nyubako.

Inyubako yo kwa muganga, akaba imbere yayo hari abantu baza bayigana, bambaye impuzankano hejuru z'amashati y'imyeru ndetse bafite imiti mu ntoki, bakaba biganjemo ingeri zose, abagabo n'abagore.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, birimo ameza, intebe, utubati, mudasobwa ndetse ikaba irimo hasi amakaro y'amabara atandukanye, ubururu, umweru ndetse n'umuhondo. Ikaba irimo n'amatara hejuru amurika cyane.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umukara, rinete kandi wasutse imisatsi miremire y'umukara, akaba arimo akoresha mudasobwa.

Inyubako yo kwa muganga ikaba irimo amakaro y'umuhondo ndetse inafite ibitanda bigezweho by'abarwayi, ikaba irimo amatara n'ibirahuri by'umweru.

Icyumba k'inyubako yo kwa muganga, kirimo amakaro y'umweru hasi, ndetse ku nkuta hakaba hazengurutseho imirongo ibiri, umwe w'icyatsi n'undi utukura, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo intebe n'ibindi by'ikoranabuhanga.

Inyubako yo kwa muganga igeretse gatatu, ikaba isakaje amabati y'umukara, iriho ibirahuri n'irangi ry'umweru ndetse ku mbaraza zayo hakaba hari abantu, hari n'imodoka zihaparitse, imbere yayo hari ubusitani buteyeho indabo.

Inyubako yo kwa muganga, imbere yayo hari umuhanda ujya mu iyo nyubako ndetse hakaba n'ubusitani bw'indabo zifite amabara atandukanye, higanjemo umutuku ndetse n'umuhondo, imbere y'iyo nyubako hakaba hahagaze umuntu bigaragara ko yambaye imyenda y'umweru, ugiye kwinjira mu nyubako.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye, ari byo intebe, imeza, aho babika imiti ndetse ikaba irimo amakaro y'umweru.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibitanda by'abarwayi, ndetse bikaba birambuyeho ibitambaro by'umweru, hanariho imisego, n'utundi dukoresho dutandukanye.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga babikamo imiti, kikaba kirimo dutageri turimo imiti itandukanye y'amabara menshi ndetse kuri buri gatageri hakaba hagiye hariho igipapuro cyanditse mu nyuguti z'umukara ndetse n'andi mabara.

Inyubako yo kwa muganga irimo udutajeri turimo imiti y'amoko menshi atandukanye, hakaba harimo ifunze mu dukarito tw'ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'udutukura.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga ku nkuta giteye amarangi y'umweru, hasi harimo pudere Y'icyatsi kibisi iciyemo uturongo twinshi ndetse kikaba kirimo amatara menshi n'utushini tujyanye n'ikoranabuhanga.

Inyubako yo kwa muganga ya etage, igeretse kabiri ndetse ikaba ari inzu y'ababyeyi ndetse n'impinja, ikaba iriho irangi ry'umweru ku madirishya no ku muryango; imbere yayo hakaba hari abantu n'imodoka zihaparitse.

Inyubako yo kwa muganga basuzumiramo ibizamini, imbere yayo hakaba hahagaze abantu batanu, bane ari abagore, mo hagati yabo mu muryango neza hakaba hari umugabo ndetse bakaba banambaye imyambaro itandukanye.

Inyubako yo kwa muganga, basuzumiramo abarwayi b'amaso, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe bakiriraho ababagana, ndetse ikaba igaragaraho ishusho y'ijisho, n'umuganga arimo agaragaza ibice byayo, ndetse bigaragara ko ari gusuzuma uburwayi.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga ,hasi hakaba harimo irangi ry'umuhondo ndetse no ku nkuta zacyo kikaba kandi gifite amadirishya arimo ibirahuri by'umweru, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye: ibitanda byo kwa muganga, intebe ndetse n'utumeza.

Inyubako yo kwa muganga igeretse rimwe; ikaba isakaza amabati y'imyeru ndetse ikaba inariho amarangi atandukanye y'amabara menshi; hakaba hariho amarangi y'umweru ndetse iruhande rundi hakaba hometse amatafari ahiye; imbere yayo hakaba hari indabo n'umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge ikaba iriho irangi ry'umweru ndetse imbere kuri porutayi hariho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru agaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge imbere yayo hakaba hari indabo nyinshi.

Inyubako iriho amarangi atandukanye higanjeho iry'umweru ndetse n'ubururu, ikaba ifite inzugi zitukura ndetse imbere yayo hakaba hari amatafari ahiye, ashashe hasi.

Inyubako yo kwa muganga irimo umuganga w'umusore, wambaye Itaburiya y'umweru, arimo ategura ibikoresho byo kwa muganga, agenda Aramburaho ibitambaro by'umweru.

Inyubako yo kwa muganga isakaje amabati y'umuhondo, ikaba iteye amarangi y'umweru n'umukara, irimo ibirahure by'umweru ndetse imbere yayo hakaba hari ibendera ry'igihugu, ndetse hari n'amatafari ahiye ashashe imbere yayo.

Inyubako zisakaje amabati atukura zikaba ari inyubako zometse n'impunyu cyangwa se amatafari ahiye ndetse zikaba ari iz'ikigo nderabuzima cya gishweru imbere yazo hakaba hahagaze abantu bambaye imyambaro itandukanye harimo n'umuganga wambaye ishati y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, birimo intebe ndetse n'ameza ariho udutambaro tw'ubururu, hakaba hari n'amatara acanwa basuzuma abarwayi.

Inyubako yo kwa muganga ya etaje igeretse kabiri, ikaba iriho irange ry'umweru, imbere yayo hakaba hari ibiti by'amoko atandukanye biri mu busitani, hakaba harimo n'amatara acanira abantu bari mu busitani, mu muhanda hakaba hakaba kugenda umuntu wambaye ishati itukura.

Inyubako zo kwa muganga zitandukanye zimwe zigeretse zikaba zisakaje amabati atukura, zimwe ziriho amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo imbere yazo ku rubaraza hakaba hahagaze abantu batandukanye, ndetse hagati yazo hakaba hari ikibuga.

Inyubako z'ibitaro hagati yazo hanyuramo umuhanda munini ubomboreje, i ruhande hakaba hashamikiyeho agahanda gatoya, i ruhande rwaho hakaba hari ubusitani burimo ibiti by'amabara atandukanye, ku muhanda hariho amatara amurikira ibitaro.

Inyubako zo kwa muganga zisakaje amabati y'umweru ndetse n'andi ajya kuba icyatsi, ziteye irange ry'umweru imbere yazo hari ikibuga, hakaba hariho na bariyeri.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kikaba kirimo amarangi atandukanye harimo; umukara iroza ndetse kikaba kirimo amatara y'umweru n'ubururu, hakabamo n'ibikoresho bitandukanye birimo intebe ndetse n'ameza.

Inyubako y'ibitaro bya Kabutare, imbere yayo hakaba hahagaze abaganga, bamwe bambaye impuzankano bakaba bambaye n'ibikoresho by'akazi, ariko bose icyo bahuriyeho bakaba bambaye udupfukamunwa baba abagabo cyangwa se abagore.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kikaba giteraniyemo abantu bane umwe akaba yicaye ku ntebe arimo gukoresha telefone, undi akaba ari guhabwa serivisi n'abantu babiri barimo imbere ndetse kikaba kirimo na televiziyo imbere y'umuntu wicaye hakaba hari akavaze karimo indabo.

Abaganga bane bambaye impuzankano z'imyeru ndetse n'amakarita y'akazi mu izosi, udupfukamunwa tw'ubururu ndetse bamwe bakaba bambaye n'ingofero z'imyeru n'undi wambaye ingofero y'ubururu, bakaba barimo bakora ubushakashatsi ku miti.

Inyubako yo kwa muganga igeretse rimwe, ikaba iriho irangi ry'umuhondo ndetse nahanditseho amagambo hejuru mu ibara ry'umweru, kandi ikaba inafite ibirahure by'umweru biriho n'irangi risa gutyo ndetse munsi hakaba hariho karabasasu y'umuhondo, imbere y'iyo nyubako hakaba hari indabo z'amabara atandukanye.

Inyubako yo kwa muganga bakiriramo abarwayi, hakaba imbere yayo hari icyapa kirekire, kiriho amagambo agiye yanditse mu rukiramende ndetse akaba afite imitwe yanditse mu mabara atandukanye, amwe y'ubururu andi atukura.

Abaganga barimo abagabo n'abagore bari mu cyumba, aho barimo basuzuma imiti itandukanye iri imbere yabo, bakaba bose bambaye impuzankano z'imyeru.

Icyumba cy'inyubako kwa muganga, hasi kirimo amakaro y'imyeru ndetse n'inzugi, kikaba giteyemo irangi ry'umuhondo ku nkuta, kandi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Umuganga uri guseka cyane wateretse umusatsi, wambaye linete, itaburiye y'umweru n'ishati y'umukara, afite agatabo mu ntoki yagafatishije amaboko yombi imbere ye hari umukecuru wambaye ikanzu y'ubururu.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo hasi irangi ry'umuhondo, ndetse kikaba gifite ibikoresho bitandukanye, birimo intebe, ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, kandi hakaba hanarimo amatara ari kwaka.

Inyubako zo kwa muganga zigeretse kabiri zikaba zisakaje amabati y'imihondo imbere yazo kumbaraza hakaba hari abantu bambaye imyambaro itandukanye kandi hakaba hari n'ubusitani imbere yazo ndetse hakaba hateye n'igiti kiriho ibendera ry'igihugu cyu Rwanda.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba iriho amarangi atandukanye y'umweru ndetse n'umutuku ku nzugi, ikaba ifite amatara hejuru, impande hariho inkingi z'umukara, ndetse ikaba inariho n'ifoto y'abazungu babiri bareba, bambaye rinete.

Inyubako y'ibitaro ifite umuryango munini ukinguye iruhande rwawo hakaba hari ibirahure by'umweru, ndetse ikaba iriho amabara atandukanye, umweru n'ubururu bwijimye ndetse hakaba hariho amagambo yanditse ko ari inyubako bafatiramo imiti mu bitaro bya kanombe mw’ibara ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo igitanda cyo kwa muganga, intebe ndetse n'ibindi bikoresho birimo mudasobwa bikoreshwa kwa muganga.

inyubako zo kwa muganga zisakaza amabati atukura kandi zikaba ziriho amarangi y'umweru ku nkuta ndetse imbere yazo hakaba hari ubusitani buteyeho indabo, hakaba hanicaye abantu bambaye imyambaro itandukanye biganjemo abagabo n'abagore.

Inyubako yo kwa muganga basuzumiramo abarwayi, bakabasha guhabwa imiti. Ikaba iriho inzugi zifite amarangi y'ubururu ndetse ku bikuta hakaba hariho ay'umweru.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga hasi kirimo irange ry'umweru, kikaba gifite ibikoresho bitandukanye byiganjemo intebe n'ameza ndetse hakaba hari n'ibintu biterutse ku meza bisa nk'imiti ifunze mu dukombe ndetse no mu ducupa.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, yicaye imbere ya mudasobwa, arebamo amakuru, akaba afite umusatsi muke ndetse n'ubwanwa.

Inyubako zo kwa muganga zisakaje amabati atukura, ziriho n'imireko, zikaba ziteye amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, imbere yazo hakaba hari indabo zitandukanye, hakaba n'ikibuga.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo intebe z'amoko menshi, ndetse hakaba hanarimo amarangi atandukanye; umweru, w'umukara, kikaba kinarimo amatara hejuru menshi, acanye.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo umumama uryamye ku gitanda wambaye ikanzu y'ubururu irimo utubara tw'umweru, akaba yiseguye amaboko, ndetse akaba ari gusuzumwa n'abaganga babiri umugabo n'umugore.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri no hasi hakaba harimo amakaro y'ikigina, ndetse hakaba hari n'intebe bashyiriraho abashyitsi iruhande rwayo hakaba hari akavaze k'indaho.

Inyubako z'ibitaro zitandukanye, imwe ikaba isakaje amabati atukura, indi ikaba ari etaje igeretse gatatu, iriho ibyapa by'umweru byanditse mu magambo y'ubururu, ndetse imbere yayo hakaba hari imodoka zihaparitse n'umutaka urimo umuntu wambaye imyenda itukura.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba iriho amarangi y'umweru ndetse n'imikara ku nzugi ndetse hakaba hagiye hananditseho nimero kuri buri muryango.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, bimeze nka aritere baterura, bikaba bifite amabara menshi atandukanye, yiganjemo umukara ndetse n'umutuku.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba irimo umubyeyi uryamye ku gitanda, ndetse iruhande rwe, hakaba hari umuganga w'umugore, wambaye rinete n'itaburiya y'umweru, na ga muntoki. Arimo amuganiriza, asuzuma uko ameze.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Bwerere, ikaba yometseho inkuyu ndetse ikikijwe n'indabo zitunganyije neza, hejuru yayo hariho pano ikurura ingufu ziturutse ku zuba.

Inyubako zo kwa muganga zigeretse imbere yazo harimo nyinshi mu kibuga, mu hagati y'izo modoka hakaba hahagaze umugabo wambaye ingofero y'umukara umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara uri gutunga urutoki imodoka.

Inyubako yo kwa muganga irimo intebe ndetse n'igitanda, kiriho igitambaro cy'ubururu ndetse ku musego wacyo hakaba hariho igitambaro cy'umweru n'ibindi bikoresho bitandukanye by'amashanyarazi biri iruhande rwacyo.

Inyubako yo kwa muganga basuzumiramo amaso, haba harimo ibikoresho bitandukanye bakoresha ndetse hakaba harimo intebe, ameza, mudasobwa n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ari inzu y'ababyeyi ndetse ikaba ikinguye imbere yayo hari abantu bagera kuri batandatu bambaye imyambaro itandukanye bamwe bicaye imbere y'ameza ndetse umwe ahagaze iruhande rw'umuryango.

Inyubako irimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, birimo ameza, harambitseho igitambaro cy'umweru ndetse hakaba n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byinshi.

Inyubako yo kwa muganga igeretse gatatu, Ikabiriho amarange atandukanye umweru, umuhondo, ubururu n'icyatsi kibisi. Ndetse imbere yayo hakaba hari imodoka n'abantu, kandi hanubatse akazu gatoya kariho amagambo mu mabara atandukanye.

Inyubako yo kwa muganga bafatiramo imiti, ikaba imbere hari amakaro y'umweru ndetse ku ruhande ku nkuta zayo ikaba iriho amabara atandukanye, hagaragara cyane umuhondo, ndetse n'umukara n'umweru.

Inyubako zo kwa muganga ziriho amarangi y'umweru ku nkuta, ndetse hakaba hanometseho n'ibipapuro byanditseho magambo atandukanye, zikaba zifite amatara ari kwaka ku mbaraza, kandi mu nguni hari akavaze kariho ururabo.

Inyubako yo kwa muganga igeretse kabiri, ikaba iriho amarangi y'amabara atandukanye, yiganjeho iryumweru ndetse imbere yayo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, uparitsemo imodoka nini n'intoya.

Inyubako yo kwa muganga ikaba isakaje amabati atukura ndetse iteyeho amarangi y'umuhondo, imbere yayo hakaba haparitse akamodoka gatoya gatukura, hakaba kandi hari ubusitani buteyemo igiti kiriho ibendera.

Inyubako ya etage iriho ibirahure by'umweru biciyemo akarongo kazengurutse ndetse ikaba iriho akapa k'umuhondo kananditseho amagambo ari mu bara ry'umuhondo utsindagiye ndetse hakaba hari indabo imbere y'iyo nyubako.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye bigezweho nk'intebe z'amoko atandukanye kandi ikaba ifite ibikoresho bindi bigezweho birimo ibikurura umwuka bizwi nka vandarateri ikaba igizwe n'amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo ameza, ariho ibitambaro by'ubururu kandi hakaba harimo na televiziyo ndetse na mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu bateraniye mu nyubako yo kwa muganga bakaba bicaye imbere y'ameza ndetse umuganga umwe ari kwandika ku meza hakaba harambuyeho igitambaro cy'umweru hariho n'umuti wica udukoko wa arukoro, abaganga bose uko ari batatu bakaba bambaye imyambaro y'umweru ndetse hari n'abarwayi babiri bari gusuzumwa.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kiteraniyemo abaganga batandukanye, hakaba harimo umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, itaburiye ndetse akaba anafite ikarita y'akazi.

Inyubako yo kwa muganga igaragaza ahantu abaganga bogereza ibikoresho bakoresha bavura, birimo imyanya myinshi itandukanye, bagenda bogereza ibyo bikoresho ndetse n'ibyuma bitandukanye bifashishwa bari koza.

Abantu bateraniye mu busitani buri imbere y'inyubako y'ibitaro bya Butaro, bakaba begamiye icyapa kihateye cyanditseho ibitaro bikuru bya Butaro ndetse bakaba bambaye imyambaro y'amabara atandukanye irimo iy'umweru, umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Inyubako y'ibitaro bya Butare, imbere y'izi nyubako hakaba hari icyapa kigaragaza ko hari kaminuza yigisha iby'ubuvuzi, iruhande rw'icyapa hakaba hari umuhanda ndetse n'igiti cy'ururabo, hakaba haparitse n'imodoka z'umweru n'izindi zifite amabara y'umukara.

Inyubako yo kwa muganga ya etage igeretse gatatu ikaba iriho amatafari ahiye y'umuhondo , ndetse ifite n'ibirahuri by'umweru , iruhande rwayo hakaba hari indi iriho amabati atukura , imbere ya etage hakaba hari imodoka nyinshi ntoya zihaparitse ndetse n'umutaka urimo umuntu wambaye umupira utukura.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye ari byo: intebe, ameza, utubati, ikaba ifite amakaro ndetse isize irangi ry'umuhondo.

Umumama wambaye ishati y'ubururu irimo utubara tw'umweru akaba ari guseka ndetse akikiye agahinja mu myambaro y'umweru, imbere ye hakaba hari umuganga uri kubasuzuma wambaye agapfukamunwa n'itaburiye y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda basuzumiraho abarwayi ndetse hakaba harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye, birimo utubati tw'amabara atandukanye harimo utw'umuhondo ndetse n'utw'umweru, hakaba harimo n'amatara y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo amakaro, ikaba ifite urugi rukinguye ndetse n'ibirahure, ikaba isakaje amabati y'umuhondo ndetse imbere yayo hakaba hari imikindo n'izindi ndabo zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga isakaje amabati y'umweru, imbere yayo hakaba hari abantu batandukanye ndetse hakaba hateye icyapa kirekire gifashwe n'inkingi z'umukara, kikaba gikikijwe n'indabyo.

Umuganga uri mu bitaro akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu, itaburiya y'umweru na ga z'ubururu ndetse afite umuti mu gacupa k'umuhondo, akaba ari gukora ku gikoresho cy'ikoranabuhanga asuzuma umuti.

Icyumba cy'inyubako cyifashishwa mu myitozo ngorora mubiri, mo hasi hakaba harimo kudere y'ubururu ndetse kikaba kirimo akabati karimo imiti itandukanye, iki cyumba kikaba kirimo irangi ry'umweru ndetse n'amatara ari kwaka.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo utumeza turambuyeho ibitambaro by'umweru, mudasobwa ndetse n'intebe zigezweho, hejuru muri iyo nyubako hakaba harimo amatara amurika cyane ndetse n'icyuma gikurura umwuka mwiza.

Inyubako yo kwa muganga iriho irangi ry'ubururu, igice cyo hasi kikaba kiriho irangi ry'umuhondo, ndetse mo imbere hakaba harimo abaganga babiri bambaye imyambaro y'umweru, n'undi wegamiye ku idirishya wambaye ubururu. Hanze hakaba hari umugabo uhahagaze wambaye ipantaro y'umukara na bodaboda z'ubururu.

Inyubako yo kwa muganga basuzumiramo ibizamini izwi nka laboratwari ndetse ikaba iriho amarangi atandukanye umuhondo, umutuku ndetse kandi imbere yayo hakaba hicaye abamama, hakaba hari n'abandi bicaye kuri sima begereye indabo ziri imbere yayo.

Inyubako zo kwa muganga, zimwe zisakaje amabati y'ubururu ndetse hagati yazo hakaba hari ikidari cy'umweru, iruhande hakaba hari abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro itandukanye, bamwe bambaye udupfukamunwa.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye; harimo iby'umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'ibindi bifite amabara y'umukara; kandi bicometseho insinga z'imigozi y'amashanyarazi.

Icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo irangi ry'umweru, kikaba gifite ibikoresho bitandukanye bigezweho ndetse hakaba harimo igitanda kirambuyeho igitambaro cy'umweru, hakaba hanarimo mudasobwa ndetse na televiziyo.

Inyubako y'ibitaro bya Ruhengeri ikaba iriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho mu magambo y'ubururu, ibitaro bya Ruhengeri ndetse hakaba hagaragara n'urujya n'uruza rw'abantu babigana.

Umurwayi wagize ikibazo cy'amaguru, bigaragara ko apfutse, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara, umurwayi akaba yicaye ku gitanda, yambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umweru, ku ruhande rwe hakaba hari abandi barwayi bicaye na bo bigaragara ko bafite ikibazo cy'imvune.

Inyubako bakoreramo imyitozo ngororamubiri, ikaba irimo amarangi y'umweru ndetse hejuru hari kwakamo amatara ikaba irimo icyuma gifite utubara dutandukanye harimo umweru ndetse n'umukara.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu abashe kubaka umubiri, birimo ibyo baterura ndetse n'ibyo bicaraho, bikaba byose ya bikusanyirije ahantu hamwe mu nyubako.

Icyumba kirimo igitanda kiryamyeho umuntu uri kwitabwaho mu myitozo ngorora mubiri, akaba ari kwitabwaho n'abaganga babiri ndetse hirya ye hakaba hari ikindi gitanda kiriho umuntu nawe uri kwitabwaho n'umuganga umwe.

Umuntu wavunitse bigaragara ko muganga ari kumwitaho, amukorera ubutabazi bw'ibanze, aho yavunitse, muganga wambaye itaburiya y'ubururu, mu gihe umurwayi ari kwitaho yambaye imyenda y'umukara ndetse n'urukweto rumwe rw'umukara rufite imishumi itukura.

Abantu biganjemo urubyiruko bari mu myitozo ngororamubiri, bakaba bambaye imyenda itandukanye, biganjemo abambaye umweru ndetse n'umukara, bakaba bambaye n'inkweto zifunze z'amabara atandukanye, iruhande rwabo hakaba hari abandi bari kubarebera bitwikiriye imitakaka.

Umusore ufite umusatsi mukeya ndetse n'ubwanwa, wambaye agapira k'ubururu, akaba ari kunywa amata mu icupa y'umweru, arifatishije akaboko k'iburyo.

Umugabo wicaye wavunitse ukuboko, mu nkokora akaba yahambiyeho agambaro k'ubururu, akaba ndetse yahafashe n'akandi kaboko, akaba anambaye umupira wa rakosite w'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse ikaba iteye ry'umweru inamurikiwe n'amatara ari hejuru muri parafo yaka cyane mo hasi hakaba harimo irangi ry'ubururu.

Imodoka ya ambirasi itwara abarwayi kwa muganga, ikaba iri mu muhanda, umuhanda bigaragara ko ari umuhanda wa kaburimbo, ikaba ifite ipine rya rezerive inyuma, bigaragara ko irimo igenda.

Umuntu uri mu cyumba k'imyitozo ngororamubiri wambaye agapira k'ubururu, ndetse n'ikabutura y'umukara, akaba ateruye ibyuma amaboko yombi yapfukamye akaguru kamwe kari hasi, akandi gashinguye iruhande rwe hakaba hahagaze umutoza we.

Umusore uri mu kibuga ari mu myitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'umukara, ikabutura y'ubururu irimo uturongo tw'umweru tumanuka ndetse na kora y'umukara, inkweto z'umukara zirimo utubara tw'umweru, yarambuye amaboko imbere ndetse atera intambwe.

Ibiribwa bitandukanye byegeranyirije hamwe umuntu washobora gukoresha mu gihe yavuye mu myitozo ngororamubiri , higanjemo imboga ndetse n'imbuto z'amabara menshi atandukanye harimo iz'umuhondo umutuku ndetse n'umukara , iruhande rwabyo hakaba hari ji mu kirahure y'umuhondo hakaba hari nalitere yo guterura.

Umumama uri kwinanura yicaye ku gitanda wasutse imisatsi miremire cyane igera ku kibuno akaba yarambuye amaboko yose yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro.

Abantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze ku bakinnyi bambaye amajiri atukura n'udupira tw'umweru, bari kwita ku mukinnyi wagize ikibazo uryamye hasi, inyuma yabo hakaba hahagaze abakinnyi batatu.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye birimo pomade, imikasi ndetse n'ibinini ndetse hakaba harimo bande, ga n'indi miti itandukanye yo kunywa.

Umu mama uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba ahagaze ku kaguru kamwe yemye, akaba yambaye utwenda tw'ubururu aga kabutura gatoya cyane n'agasengeri gato akaba yarasutse imisatsi ndetse akaba yambaye n'inkweto zijya gusa n'ubururu hariho imishumi y'umweru.

Icyumba kirimo umurwayi ndetse wambaye umupira utukura n'agakabutura gatoya k'umukara akaba ari kwitabwaho na muganga wambaye itaburiye y'umweru afite n'amakaramu abiri mu ruhago rw'ishati ndetse akaba anambaye n'isaha ku kuboko kw'iburyo.

Ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri ndetse bikaba bifite amabara atandukanye, bikaba kandi binakoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Igare ry'abafite ubumuga rifite amapine ane ndetse rikaba ririho n'aho akandagira hari mu irangi ritukura ndetse aho yicara hakaba hariho irange ry'umukara.

Akagare ko kwa muganga kagendaho abarwayi bafite ikibazo cy'ubumuga batabasha kwigenza, kariho amapine abiri manini ari yo umurwayi agenda asunika.

Brankari ikoreshwa mu gihe batwaye umukinnyi wananiriwe cyangwa se wagiriye ikibazo mu kibuga, iriho utubara tw'umuhondo n'umukara ndetse iruhande rwayo hakaba hari abantu babiri bambaye imyenda itukura bayifashe.

Umukinnyi wambaye agapira k'ubururu kariho n'utundi tubara tw'umweru twanditseho amagambo y'umukara ndetse akaba afite n'umupira wo gukina mu ntoki wanditseho kane uriho n'andi mabara atandukanye ariko hakaba higanjemo ibara ry'icyatsi akaba yambaye n'ipantaro y'umukara.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wubatse umubiri, wambaye umupira w'umukara uriho akarango mu ibara ry'umweru wijimye, akaba ari guterura icyuma.

Imiti gakondo yegeranyirije hamwe, imwe ikaba iri mu ducupa tw'umweru, indi utw'ubururu ndetse indi iri no mu bikarito by'umweru, byanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu.

Umuntu wafunze ingumi, akaba yahambiye bande itukura ku kuboko, akaba avuye mu myitozo ngororamubiri, hakaba kandi hagaragara n'ubundi bwoko bwa bande burimo ubururu, umukara n'umutuku.

Icyumba cy'inyubako kirimo muganga w'umugore wambaye ga z'ubururu ndetse n'itaburiya akaba yarasutse imisatsi, akaba arimo areba muri mudasobwa ndetse imbere ye ku meza hari ibitabo n'ikaramu.

Umuntu w'uruhu rwera aryamye hasi, bigaragara ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, akaba yarambuye akaguru k'iburyo ku gitambaro ndetse kandi akaba yagahinnye, akaba ari kwitabwaho mu ivi n'undi muntu wambaye umupira w'umukara.

Umuntu wambaye agasengeri n'ikabutura by'umukara ateruye akaguru k'ibumoso n'amaboko abiri, ashinyiriza bigaragara ko yababaye cyane.

Igikoresho kimeze nka telefone ya kera, kikaba kigaragaramo isaha, ndetse kikaba cyifashishwa mu gupima ibirometero umuntu agenze ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira wa lacosite w'umweru ufite ikorala, ndetse akaba yicaye arambuye ukuboko kw'iburyo. Akaba yagufatishijeho ukuboko kw'imoso aho yavunitse, akaba yapfukishijeho igitambaro cy'ubururu.

Agakoresho ko kwa muganga gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri, kagaragaza ibirometero umuntu amaze kugenda, kakaba kagaragaza isaha ndetse karimo imibare myinshi itandukanye ariko hakaba hagaragaramo isaha ndetse n'ibirometero.

Igikarito cy'umuhondo cy'umuti ukoreshwa mu myitozo ngororamubiri kikaba kandi kiriho ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo y'umweru ndetse kikaba gishushanyijeho uwo muti uri mu ducupa tumeze nka korogati.

Icyapa cy'umweru kiriho umumama arigutera intambwe yiruka, ndetse akaba ari mu nyuguti ya V igizwe n'amabara atandukanye ubururu, icyatsi kibisi n'umuhondo, imbere ye hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri hakaba harimo imbuto zitandukanye zifite amabara menshi y'umuhondo, umutuku ndetse hakaba hari n'aritere yo guterura irikumwe n'amacupa abiri y'amazi apfundikiye.

Abantu bambaye imyambaro itandukanye bateraniye mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse hakaba higanjemo abagabo n'abagore, ku gitanda gihari hakaba hicayeho umugabo wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umweru uhambiriye ikintu cy'umukara mu ivi.

Imiti gakondo ifunze mu macupa ameze nka teremusi ndetse akaba yanditseho amagambo atukura, hakaba harihoho n'icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru hakaba ariho n'andi yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Ibiganza bine bishushanyije mu ibara ry'umukara n'umutuku ndetse bikaba bigiye birimo imibare itandukanye, icya mbere kirimo kuva kuri rimwe kugera kuri kane, icya kabiri kuva kuri gatandatu kugera ku munani, icya gatatu kirimo icyenda gusa, icya kane kirimo icumi na cumi na rimwe.

Umusore ufite mu maso habyibushye ndetse akaba ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine na mirongo itatu n'itanu, akaba yambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi, afashe icupa ku munwa n'akaboko k'iburyo akaba ari kunywa amazi.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaguru kamwe yakarambuye akandi yagahinye, akaba aryamye yarambuye umugongo ndetse n'amaboko ayahinye.

Umugabo wicaye bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, akaba yambaye isengero y'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse afite mu maso hakeye, ubwanwa buke, akaba ari kunywa amazi mu icupa ry'umweru.

Ibikapu bitatu bya siporo bitukura biriho udushumi tw'umukara ndetse n'amashini, bikaba bitandukanye kimwe ariko gifunguye, kikaba kirimo udukoresho dutandukanye harimo tapi, pomade n'ibindi.

Abaganga batandukanye, harimo abambaye impuzankano z'imyeru ndetse n'udupfukamunwa kandi bakaba bari kumwe n'umumama uri imbere yabo, wambaye impuzankano y'umweru kandi wasutse imisatsi abayobora mu nama.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani na cumi ni'itanu biganjemo abambaye imyambaro y'umweru, umutuku ndetse n'umukara bari gukina mu kibuga kiri imbere y'inyubako isakaje amabati atukura, impande z'iyo nyubako hakaba hari ibiti bitandukanye.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri umwe akabaryamye yifashe mu nda undi yicaye iruhande rwe, uryamye akaba yashyize ukuguru ku rutugu rw'uwicaye akaba yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Umu mama uri mu myitozo ngororamubiri; akaba yicaye yarambuye amaguru ndetse yunamye yarambuye n'ibiganza bye hejuru y'amano ye neza; akaba yarasutse imisatsi ndetse anambaye isengeri n'ipantaro bisa by'icyatsi cyibisi.

Umuti wifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ukaba uri mu gacupa kameze nk'akasanitayiza, ukaba uriho ikirango mu ibara ry'umukara, cyanditseho amagambo y'umweru ndetse hakaba hariho n'ibara ritukura ryanditseho ijambo sitopu.

Umukobwa uri muri siporo, akaba arimo akora imyitozo ngororamubiri, yambaye isaha ku kuboko, akaba yashyize akaboko kamwe mu bitugu, akandi yambayeho igipimo kigaragaza umuvuduko yagendeyeho, akaba anambaye na ekuteri mu gutwi.

Ibyo kurya bitandukanye birimo inkeri, imineke, amagi, ubunyobwa, indimu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Umubyeyi uteruye akana gatoya, kakaba kari gusuzumwa na muganga, wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'umubyeyi akaba yambaye agapfukamunwa, iruhande rwabo hakaba hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yicaye yarambuye akaguru kamwe k'iburyo n'akaboko kari gukora ku rukweto, ndetse ak'ibumoso akaba yagahinnye, agakozaho ikiganza yanambayeho isaha.

Abantu benshi bagiye mu myitozo ngororamubiri by'umwihariko bakaba bari kureba umukino wa basiketiboro ndetse bakaba bariguserebura bishimira intsinzi, bakaba biganjemo abana batoya bari mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani na cumi n'itanu.

Umugabo wicaye uvuye mu myitozo ngororamubiri, akaba yateye inkokora ku mavi ndetse yambaye agasengeri k'umukara, akaba ari kunywa amazi afatishije icupa akaboko k'ibumoso, ku kuboko k'iburyo yambayeho akantu k'icyatsi kibisi.

Umamama wateretse imisatsi myinshi cyane igwa ku gikanu, ari mu myitozo ngororamubiri, aho yunamye yarambuye akaguru k'iburyo imbere, naho akaboko k'iburyo yagashyize mu mugongo ndetse akoresha mu kirenge cy'iburyo akaboko k'ibumoso.

Imiti itandukanye ikoreshwa n'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri, ikaba yiganjemo ifunze mu macupa y'imyeru ndetse no mu dukarito, bikaba byose byanditseho amagambo menshi yanditse mu bururu ndetse n'umutu. Iruhande rwabyo hakaba hari ga zo kwambara.

Abantu babiri bavuye mu myitozo ngororamubiri, umwe akaba yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'aho undi uri inyuma ye akaba yambaye ishati y'ubururu.

Umumama uri gukora imyitozo ngororamubiri wasutse imisatsi, akaba yambaye agasengeri k'umweru kariho utubara tw'umuhondo n'ipantaro y'umukara, akaba yararamye ashinze amaboko kuri tapi y'umuhondo, imbere ye hari akavaze k'indabo ndetse n'iruhande rwe.

Umuntu uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na makumyabiri, akaba yambaye agasengeri k'ubururu gafite andi mabara atandukanye, akaba afite umupira ku rutugu ndetse ari no kunywa amazi mu icupa ry'umweru.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri akaba aryamye ku gitanda, wambaye umupira w'umuhondo ndetse akaba afite na derede, iruhande rwe hakaba hari uwundi muntu w'uruhu rwera, wambaye ingofero y'umukara iriho akabara k'umweru gatoya ndetse n'umupira.

Icyapa cy'umweru kiriho ibikoresho bitandukanye birimo uburoso, inkweto z'amoko menshi atandukanye, ekuteri ndetse hakaba hariho n'amashusho y'abantu bambaye ubusa ndetse kandi hakagaragaraho na gitari.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yicaye arambuye akaguru k'iburyo ndetse agafatishijeho ibiganza bye byombi, akaba yambaye ekuteri mu matwi n'agapimo gapima ibirometero umuntu yagenze, akaba anambaye isengeri y'umukara n'ipantaro.

Abantu babiri b'uruhu rwera bavuye mu myitozo ngororamubiri, bakaba bahagaze bose bari kunywa amazi bateranye imigongo, umwe akaba yambaye umupira w'umweru akaba ari umugabo undi w'umugore yambaye umupira w'umukara.

Umuntu wicaye, akaba yarambuye ukuboko kw'uburyo ndetse yagufatishijeho agatambaro k'ubururu n'akaboko k'ibumoso, bikaba bigaragara ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri kandi akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umuntu uryamye ku gitanda arambuye akaguru k'ibumoso, ak'iburyo yakazamuye ku cyuma, bigaragara ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, akaba ari kwitabwaho n'abaganga babiri, iruhande rwe hahagaze abandi bantu bambaye amakositimu.

Imiti gakondo y'amabara atandukanye, iy'indabo, imbuto, amababi ndetse n'indi ifite imbuto ntoya cyane z'umweru.

Imiti gakondo itandukanye ndetse kuri buri bwoko hakaba handitseho ijambo, ikaba iri mu mabara menshi atandukanye arimo umweru, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, hakaba harimo tungurusumu, tangawizi, imiravumba ndetse n'iyindi.

Icupa ry'umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, rikaba rifite umufuniko w'umweru, ririho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu n'icyatsi, kandi rikaba ririho ikirango cy'umuhondo.

Imiti ifunze mu bikarito bitandukanye, ndetse ikaba yanditseho amagambo menshi, ari mu mabara atandukanye, hakaba hariho ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'umutuku, hakaba hariho n'ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo.

Umuti gakondo witwa tangawize ukaba uri mw 'ibara ry'umweru wijimye ndetse ukaba umeze nk'amateke ya kinyarwanda ukaba ucagaguyemo utungeri dutoya wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti gakondo ufunze ukaba uriho amabara atandukanye higanjemo ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hariho n'ikirango mu ibara ry'ubururu, hakabaho n'amagarama cumi n'andwi uwo mu muti upima.

Imiti gakondo y'amoko menshi atandukanye, ikaba ifunze mu macupa y'amabara yose ubururu, umukara, icyatsi kibisi, umuhondo ndetse kuri buri cupa hakaba hariho igipapuro cyanditseho amagambo.

Imiti gakondo itandukanye yiganjemo umuravumba ndetse n'indi y'amabara menshi, harimo n'indabo z'imihondo, umutuku kandi ikaba iteye hamwe ikaba inakikijwe n'ibindi bimera bitandukanye.

Icupa ry'umweru ririmo umuti gakondo riteretse ahantu hizimye cyane, rikaba ryanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, ndetse rizengurutswe n'akarongo karimo ibara ry'umuhondo.

Umurima w'imiti gakondo itandukanye, ikaba iteye ku buryo buri bwoko buri ukwabwo, ndetse hakaba hari iyera imbuto niiyo basarura imizi, ndetse n'iyo bakoresha ibibabi mu kuvura.

Imiti gakondo itandukanye imwe ikaba ifunze mu macupa ndetse kuri buri kintu ifunzemo hakaba hagiye hariho ikirango, hamwe hakaba hashushanyijeho ibimera runaka bivamo iyo miti.

Imiti gakondo y'igikakarubamba n'indi irimo tuvido dutandukanye, hakaba hari iri mu macupa y'imyeru maremare ndetse n'ay'imihondo, umukara, yose ikaba igiye iriho ibirango bitandukanye bishushanyijeho igikakarubamba.

Umuti gakondo ufite ibibabi binini by'icyatsi kibisi, ndetse bimeze nki iby'amashu, ukaba kandi ifite indabo zitukura mo imbere harimo amabara y'umuhondo n'umweru.

Amoko atandukanye y'imiti gakondo afite amabara menshi anyuranye, amwe ari imikara, umuhondo, icyatsi kibisi, umutuku ndetse akaba amwe afunze mu dufuka.

Umuti gakondo ufite ibibabi binini bikomeye bimeze nk'iby'ishu, ndetse ukagira n'indabo zitukura zisandura mo imbere hakagaragara ibara ry'umuhondo, ndetse ukaba urandaranda hasi ku butaka.

Abantu benshi biganjemo abamama bakaba bateraniye mu murima w'imiti gakondo bigaragara ko bari kuyisarura ndetse bakaba bambaye imyambaro itandukanye y'amabara menshi yiganjemo ubururu, umuhondo bamwe bakaba banunamye basoroma imiti.

Uducupa tubiri tw'imihondo turiho icyatsi kivura bigaragara ko cyifashishwa mu buvuzi gakondo, ndetse iruhande rwatwo hari n'akandi gakombe k'umuti. Ibi byose rero bikaba ari ibikoresho bigaragaza imiti ya Kinyarwanda.

Umuti uvura indwara y'amibe uri mu icupa ry'umweru, ririho ikirango mu ibara ritukura, iruhande rwaryo hakaba hari ishusho y'urura runini ndetse n'indi shusho iri mu ruhande rw'ibumoso y'ibiganza.

Umuti gakondo ufunze mu gakarito kari mu ishusho y'urukiramende, kakaba kariho amagambo ari mu mabara atandukanye, ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, kandi akaba yanditse mu buryo butandukanye, hakaba hariho ijambo alliance.

Imiti gakondo itandukanye, imwe ikaba ifunze mu macupa indi iri mu bikarito ndetse imwe ikaba imeze nk'ibinini, yose ikaba ifite amabara atandukanye yiganjemo umutuku, umukara, umuhondo ndetse hakaba hari n'iy'icyatsi kibisi.

Igiti cy'umuti gakondo, kikaba ari igiti kirekire kigira amababi maremare y'icyatsi kibisi ndetse amwe ajya gusa umuhondo, kikaba kirambuye ndetse kiri ahantu hari ubuso bigaragara ko ari umukara, kirambitseho akantu k'akabaho k'umweru.

Amoko y'imiti gakondo ateranyirije hamwe, akaba imwe ifunze mu macupa y'umweru ndetse no mu tujerekani tw'umuhondo, dufite imifuniko itukura, ndetse n'indi ifunze mu bikarito, ariko byose bikaba biriho ibipapuro byanditseho amagambo atandukanye.

Imiti gakondo itandukanye ifunze mu macupa menshi ndetse hakaba n'iri mu ikarito, ikaba igiye iriho ibirango bitandukanye ndetse na nimero, imyinshi ikaba ifunze mu macupa y'imyeru ndetse n'indi iriho nimero z'imibare.

Umuti gakondo uri mu gacupa k'ubururu, ukaba upfundikije akantu karya kuba umweru ndetse iruhande rwawo hakaba hashushanyije igikakarubamba.

Umuti gakondo uri mu icupa rikoze mu ishusho ya sirendere ririho ikirango cy'umukara rikaba ritukura ndetse ryanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru.

Imiti gakondo y'amabara menshi atandukanye, ikaba yiganjemo ibara ry'umuhondo, umukara, icyatsi kibisi ndetse n'indi ijya kweruruka, ikaba imwe ifite ibibabi birambuye kandi bisongoye.

Akameza k'ibiti karambuyeho agatambaro k'umuhondo ndetse kakaba kariho imbuto zikoreshwa mu buvuzi gakondo ziri ku masahani y'imyeru, ziganjemo indimu ndetse na tangawizi.

Ikiganza gifite igikarito mu ntoki cy'umweru, kiriho umuti gakondo useye, ndetse umuntu ufite icyo gikarito akaba ari gukozamo intoki zo ku kaboko k'iburyo.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umuhondo hejuru rifite agafuniko k'umukara kazengurutswe n'ikirahure ndetse inyuma hakaba hariho n'ikirango mu ibara ry'umukara n'andi magambo yijimye muri iryo bara.

Imiti gakondo itandukanye yiganjemo y'ibyatsi ndetse imwe ikaba ifunze mu macupa no mu bikarito, hakaba harimo ibikarito by'mweru biriho ama y'icyatsi kibisi ndetse nay'amacupa y'umuhondo ashushanyijeho igikakarubamba.

Imiti gakondo ifunze mu macupa atandukanye ay'umweru, umuhondo, umukara ndetse imwe ikaba ifunze mu bikarito kandi inashushanyijeho igikakarubamba. Hakaba hariho n'amagambo mw’ibara ritukura, ubururu, ndetse n'umweru.

Imiti gakondo y'amoko atandukanye ikaba imwe ifite indabo z'imihondo, iyindi ari ibibabi, yose ikaba iri mu tuvaze ikuriramo.

Ibiganza by'abantu babiri umwe ateruye agacupa k'umuti w'igikakarubamba k'umweru kandi gishushanyijeho, asukira mugenzi we umuti ku buroso bw'amenyo, umwe uri gusuka yambaye ishati ya buresiyere.

Agataruho kariho imiti gakondo itandukanye ndetse kakaba gateretseho isekuru n'umuhini wayo basekuramo iyo miti ikaba iyo miti ifite amabara atandukanye y'icyatsi kibisi y'umuhondo, ubururu ndetse imwe ikabafite n'indabo hakaba harimo n'iy'umukara.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye agiye ashushanyijeho ibimera, uwa mbere ukaba uri mu ikarito y'umweru, uwa kabiri mu icupa ry'umuhondo, uwa gatatu mu icupa ry'umweru n'undi mu gakarito k'umweru.

Imiti gakondo y'amabara atandukanye, imwe ikaba ifunze mu tujerekani tw'umweru, umuhondo ndetse n'iri mu ducupa dutoya, dushushanyijeho igikakarubamba, hakaba n'iri mu gacupa k'ubururu.

Imiti gakondo itandukanye ikaba ishashe kuri tapi ndetse imwe iri mu dusahane tw'umukara, ikaba mu mabara menshi arimo itukura umweru ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hakaba hari agasanduku kariho umunzani bayipimaho.

Amoko menshi yegeranyirije hamwe y'imiti gakondo ndetse buri muti ukaba uri ukwawo kandi hakaba harimo n'imbuto ndetse iruhande rwazo hari agasekuru n'umuhini wako iyo miti isekurirwamo.

Umuti ukoreshwa mu buvuzi gakondo, ukaba ari igikakarubamba ndetse ufunze mu bikarito by'umweru, hashushanyijeho igikakarubamba, undi ukaba uri mu tuvido tw'umuhondo n'umweru.

Ishyamba ririmo imiti gakondo myinshi y'amoko menshi atandukanye imwe ifite ibibabi by'umuhondo, ibindi bikaba ari icyatsi kibisi ndetse hakabamo n'iby'imyeru bijya kwirabura ndetse iyo miti ikaba iteyemo ibiti birebire byakuze cyane.

Umuti gakondo w'igikakarubamba ukaba ufunze mu macupa agiye atandukanye, hakaba hari uri mu macupa y'imihondo ndetse ashushanyijeho igikakarubamba ndetse n'undi ufunze mu macupa y'imyeru yanditseho amagambo menshi ndetse hakaba n'uriho andi mabara atukura.

Imiti gakondo ifunze mu macupa atandukanye, hakaba harimo ufunze mu icupa rirerire ry'umweru, inyuma ryanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara ariko hakaba hariho ibara rinini ry'ubururu, hakaba n'indi ifunze mu ikarito iriho ikirango cy'umukara.

Umuti gakondo ufunze mu icupa ry'umweru ripfundikiye neza, ndetse rikaba ririho ikirango cy'ubururu handitseho amagambo y'umweru, ariko hakaba hariho n'ijambo ryanditse mu'ibara ry'ubururu.

Amakarito atandatu y'umweru y'umuti w'igikakarubamba, akaba afunze neza ndetse inyuma hashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, mu ibara ry'icyatsi kibisi, hariho nandi magambo menshi yanditse muri iryo bara.

Imiti gakondo ifunze mu macupa atandukanye ay'umweru, ubururu ndetse n'umukara ikaba igiye inariho ibirango bitandukanye, iruhande rwayo hakaba hari akameza gatoya kariho amabara atandukanye.

Abantu biganjemo abagabo bahetse ibikapu kandi banambaye imyambaro itandukanye, hafi ya bose bakaba bambaye ingofero zo mu mutwe ndetse bakaba bari mu bukerarugendo bajya kureba imiti gakondo aho basatira isumo y'umugezi.

Imiti gakondo yegeranyirije hamwe mu ducupa tw'amoko yose; tw'umuhondo, ubururu, icyatsi kibisi, umweru, ndetse iruhande yatwo hakaba hari uducuma, inzabya, hakaba hanubatse akazu kakagonyi bigaragara ko ari ak'ubuvuzi gakondo.

Muganga w'ubuvuzi gakondo wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye n'agapfukamunwa, yicaye imbere ye hari imiti iri mu dukarito tw'umuhondo kandi hakaba hari n'uducupa tw'umukara dufungishije imifuniko y'umweru.

Imiti gakondo yegeranyije ahantu hamwe igiye yanditseho amazina atandukanye ndetse harimo n'isabune yo koga yanditseho ko ari iyo koga, hakabaho n'indi miti ishobora kubavura indwara zitandukanye yo mu macupa maremare afite imifuniko itukura.

Amoko menshi y'imiti gakondo itandukanye, hakaba harimo iyera imbuto ndetse n'iyera ibibabi gusa, ikaba ifite amabara atandukanye, harimo icyatsi kibisi, umuhondo, umutuku ndetse n'indi ijya kuba ikigina.

Agatebo karimo imiti gakondo itandukanye y'ibibabi by'icyatsi kibisi ndetse n'uduti ndetse hakaba hari umuntu uri gukozamo ibiganza byombi.

Umuntu urimo gusekura imiti gakondo akaba afite agasekuru gatoya n'umuhini wako ndetse iruhande rwe hakaba hari andi moko menshi y'imiti harimo ay'umweru, umukara, umuhondo ndetse n'andi mabara yijimye y'ikigina.

Umuti gakondo wifashishwa mu buvuzi ukaba uri mu gikarito kiriho amabara atandukanye y'umweru ubururu umutuku ndetse n'umuhondo akaba yananditseho amagambo muri buri bara.

Umuntu urimo ugaragaza amenyo yererana, ndetse afite iminwa itukura, iruhande rwe hakaba hari amacupa y'imiti gakondo ivura amenyo, ndetse bikaba bigaragara ko yakoresheje iyi miti kugira ngo abashe kugira amenyo yererana.

Icupa ry'umweru ry'umuti gakondo ririho ikirango mu ibara ry'umuhondo, ndetse rikaba ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hakaba hashushanyije igikakarubamba.

Imiti gakondo itandukanye, iri mu mabara menshi umuhondo, ubururu ndetse indi ikaba iri mu birarahure na byo bifite amabara atandukanye.

Imiti gakondo iva mu bimera itandukanye, imwe isekuye indi iri mu birahure, ikaba ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'indi idasekuye y'ibibabi by'icyatsi kibisi.

Umuti gakondo igikakarubambaba ufunze mu gikaritu ndetse igishushanyijeho, igikakarubamba ndetse hakaba ariho n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara, n'ikirango ry'umuhondo, ku ruhande rwawo hakaba, hari utuvasi turimorosobiri bw'umukara ndetse n'akandi kavase hagati y'imijyi wa karubamba.

Iduka ry'imiti itandukanye, imwe ifunze mu ducupa dutoya dufite imifuniko y'ubururu, utundi ari uducupa tureture dufite imifuniko y'umweru, ku ruhande yaryo hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umweru, ufite imisatsi y'umukara, bigaragara ko ari kureba muri terefone.

Umuti gakondo wanditseho amagambo mu mabara atandukanye hariho amagambo yanditse mw'ibara ry'ubururu ndetse nayanditse mw'ibara ry'umuhondo ariko hakaba handitseho inyuguti ya ''C'' mw'ibara ritukura ndetse n'ibara ry'ubururu ryanditseho C24/7.

Icyapa kiriho imiti gakondo, kikaba ari icyapa cy'umweru cyanditseho ijambo mu ibara ry'ubururu rigira riti "bahoho neza tivi". Kikaba gishushanyijeho igitunguru gisatuye ndetse n'indimu isatuye, hakaba hatetseho n'icupa ripfundikiye ry'umuhondo.

utujerekani tubiri tw'imihondo dufite imifuniko itukura tukaba twanditseho amagambo m'ibara ritukura ndetse hakaba n'ikirango gitukura dushushanyijeho ibimera birimo ibiti gakondo kandi bikaba biri mu ibara ry'ubururu.

Agacupa karekare k'umweru gapfundikiye kariho ikirango cy'umuhondo n'andi magambo mu ibara ry'umukara, ahagana ku ndiba yako hakaba hariho ibara ry'iroza ryanditseho amagambo y'umweru.

Imiti gakondo itandukanye ikaba imwe ifite ibibabi bijya kumera nk'ibyasogereza, ndetse indi ikaba ifite utubabi tw'umuhondo dutoya, indi ikaba ifite utubabi turambuye ariko hakaba n'ifite utubabi dutoya cyane.

Icyapa cy'ubururu kiriho gikarito cy'umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, nacyo kiriho amabara menshi atandukanye harimo umweru, umutuku, ndetse n'umuhondo buri bara rikaba ryanditsemo amagambo y'umweru.

Umuti gakondo ufite ibibabi birambuye by'icyatsi kibisi, ukagira n'uduti tureture ndetse ukaba ukunda gukokoka ukagira amababi make.

Pipinyeri cyangwa se ubuhumbikiro bw'imiti gakondo, burimo umuntu uri kubwitaho ndetse n'abandi bari impande, bigaragara ko bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'imiti gakondo.